Zimwe muri gahunda zo guteza ubuzima bw'abaturage harimo na gahunda yo kubafasha kubona ibyo kurya, kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi kubera ko cyakunze kugaragara mu bibazo bituma abantu benshi bagira ubuzima butari bwiza.

Inama yahuje abantu bari mu kigero gitandukanye higanjemo abapapa ndetse n'abamama, aho bari bari kwigira hamwe kuri gahunda ya Leta y'uburyo bateza ubuzima bwiza imbere birinda indwara ndetse banongera isuku.

Zimwe muri gahunda za Leta, zirimo na gahunda yo kwegereza amazi meza ndetse n'amavomo rusange ku baturage bayo, ariho abantu bakomeje kugenda babona amazi meza, ndetse bakabona n'ahantu bazana amajerekani yabo kugira ngo bavome amazi meza.

Abajyanama b'ubuzima, higanjemo abamama n'abapapa, bakaba bari bateraniye hamwe bari kubigisha ndetse banabungura ubumenyi, mu buryo bajya bakoresha kugira ngo bakomeze gukumira ndetse no kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere, mu kwegereza amavomo rusange abaturage aho umuturage abasha kubona amazi meza kandi asukuye, mu buryo bworoshye ndetse akabasha no kuyabona hafi y'aho atuye.

Muri zimwe muri gahunda ya leta yo mu gihugu cy'u Rwanda harimo kweyegereza amazi meza abaturage, aho bahubakiye amavomo rusange aho umuntu agenda yitwaje amajerekani akabasha kuvoma amazi meza kandi mu buryo bwihuse.

Umukozi ukora mu bitaro, wambaye akantu ko mu mutwe, agapfukamunwa ndetse n'imyenda yagenewe kwambarwa mu ibagiro, aho yari arimo areba ku mashini ikurikirana ubuzima bw'umurwayi, areba nimba akimeze neza.

Zimwe muri gahunda zigezweho za leta, harimo n'iyo gupima umuvuduko w'amaraso abantu batandukanye bo mu gihugucy'u Rwanda, aho umukozi w'inzobere mu kubi bipima, yari yagiye gupima abakecuru bo mu bice bitandukanye.

Zimwe muri gahunda zigezweho za Leta, harimo gahunda yo kwegereza ubuvuzi abaturage, aho abaganga ndetse n'izindi nzobere mu buzima bateranira hamwe, bakajya mu baturage kugira ngo babashe kubasuzuma indwara zigiye zitandukanye.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere, muri gahunda zo kwegereza abaturage amazi meza yo kunywa, aho bazanye gahunda yo kubaha amarobine abaha amazi ndetse bakagenda bayegereza aho abaturage bahatuye kugira ngo babashe kubona amazi meza yo kunywa no gukoresha ibindi.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, Dogiteri, Nsanzineza Sabin, arimo atanga ikiganiro asobanura uburyo amafaranga ari mu bintu bikenerwa cyane, kugira ngo ubuvuzi bubashe gutera imbere mu buryo bwihuse, mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange

Abajyanama b'ubuzima aho bari bahuriye hamwe bishimye ndetse barimo banaririmba nyuma yo kwakira amahugurwa y'uburyo bagiye kongera ubumenyi mu buryo bavuraga indwara zigiye zitandukanye.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho, harimo na gahunda yo kugeza amazi meza, asukuye, ku banyeshuri bo mu bigo bigiye bitandukanye, aho babubakira amavomo ajyanye n'igihe, babasha kugeraho bakanyweraho amazi, igihe bayashakiye.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho, harimo na gahunda yo gufasha abana kugira ubuzima buzira umuze, aho babaha amata yo kunywa ndetse bakabasomeshaho ndetse bakigisha n'ababyeyi babo uburyo bategura indyo yuzuye kugira ngo, bakure bafite ubuzima bwiza.

Abajyanama b'ubuzima barimo bahabwa amahugurwa y'uburyo bateza imbere ubuzima bw'abaturage ndetse banishimiye ko hari icyo bamariye abaturage cyane cyane kubera ko babafasha kubasha gukira indwara zoroheje.

Abana babiri bari hafi y'ivomo, aho barimo banywa amazi meza ava muri iryo vomo kandi bishimye ubona ko bafite ubuzima bwiza kubera kubona amazi meza, yavuye muri gahunda ya Leta yo kwegereza amazi meza abaturage, aho bagiye bubaka amavomo mu bice bitandukanye by'igihugu.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho, harimo kwegereza abaturage amavomo ajyanye n'igihe, aho babasha kubona amazi meza, kandi batayasanze kure, aho abayabona bakomeje kwishimira iyi gahunda, kubera ko yabakuye mu bwigunge, kandi igumya kubarinda indwara zijyanye n'isuku.

Mu Rwanda hakomeje kugenda ubukangurambaga bugiye butandukanye aho bagenda bagera ku bantu bari mu byiciro bitandukanye ndetse baherereye mu byaro ku bufatanye na UNICEF, ndetse bakabafasha kuvura uburwayi bwabo.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse, aho amazi akomeje kugenda yegerezwa abaturage, ndetse banubaka amavomero rusange, aho bashobora kubasha kubona amazi meza, kandi asukuye.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho, harimo gahunda yo guteza imbere imibereho myiza y'abana batoya cyane cyane higanjemo impinja, aho babaha ibyo kunywa bifite intungamubiri zihagije kugira ngo bibafashe gukura neza no kugira ubuzima buzira umuze.

Umukozi wo mu bitaro wambaye akenda gatwikira umutwe ndetse n'agapfukamunwa ndetse akaba yambaye n'imyenda yagenewe mu ibagiro, aho arimo areba imibare iri mu byuma bikurikirana umurwayi kugira ngo arebe umurwayi nta kibazo yari yagira cyangwa akimeze neza.

Zimwe muri serivise z'ubuzima zigezweho kandi zijyanye n'igihe, hajemo gahunda yo gukingira abaturarwanda, aho abantu baza bagahurira ahantu hamwe habugenewe, bakabasha kubashyira muri sisiteme kandi bakabatera urukingo mu buryo bwiza cyane kandi bakunda.

Ikigo nderabuzima cya mayange abajyanama b'ubuzima bacyo bari bahuriye hamwe ndetse babonye n'umushyitsi w'umuzungu aho bari barimo baganirizwa mu buryo bakihugura ndetse bakongererwa ubumenyi ndetse banabyishimiye cyane kubera bifasha guteza imbere ubuzima bw'abanyagihugu.

Umuganga w'inzobere wari urimo apima umwana areba uko ameze ndetse akaba yari yaherekejwe na mama we, kandi muganga akaba yarimo abasobanurira uburyo uyu mwana agomba kugumya yitwara.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho, hariho no kwegereza ubuvuzi abaturage, aho bahurira hamwe bakabasha gupimwa ndetse bakaba barashyiho na gahunda y'imodoka zizwi nk'imbangukiragutabara, aho zibasha kuba zakohereza umuntu urwaye cyane ku bitaro bikuru mu buryo bwihuse.

Umumama wambaye ibitenge ndetse n'ishati, wikoreye indobo y'umutuku ndetse afite n'indi y'umuhondo mu ntoki, akaba yari avuye kuvoma amazi meza ku ivomero rusange ndetse akaba ayajyanye mu rugo kugira ngo akoreshe mu mirimo itandukanye.

Muri zimwe muri gahunda za Leta harimo no kurinda ubuzima bw'abaturage aho hari gahunda yo gukingira abaturage, aho muganga w'inzobere yari arimo atera urukingo akana k'agakobwa gato gaherekejwe na mama wako ndetse akaba yari ari gukoresha urushinge.

Umuganga w'inzobere wambaye akarindantoki, afashe ku kaboko k'ibumoso k'umurwayi hejuru aho yari arimo amutera urukingo, kugira ngo abashe kwirinda indwara zigiye zitandukanye, kandi iyi ikaba ari gahunda ya leta yo guteza ubuzima bwiza bw'abaturage imbere.

Ahantu hateraniye abana barimo bakina ndetse hakaba hari n'umukozi wambaye agapira kari mu ibara rya orange akaba akorera ikigo kizwi ku izina rya wodi vijeni, kikaba gishishikariza urubyiruko kwiteza imbere kandi kigafasha abana bakiri batoya mu buzima bwabo bwa buri munsi harimo kubigisha ndetse no kwishyura amashuri.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere mu buvuzi, aho abajyanama b'ubuzima bakomeje kugenda babona amahugurwa atandukanye, bikabasha kubafasha kuvura abaturage babegereye, muri rusange ndetse bikagabanya n'abantu barwara cyane kubera bavurwa hakiri kare.

Agapurato ko kwa muganga kariho inshinge ndetse n'umuti, abaganga bakaba bagakoresha batwaraho inshinge n'imiti kugira ngo bitaza guhura n'udukoko tukabyanduza ndetse bakagakoresha no mu gihe bagiye gutera izo nshinge

Abaganga batandukanye higanjemo aba basaza ndetse n'abamama, aho bari kumwe n'umushyitsi w'umuzungu bishimiye ko bari bamaze kwiga uburyo bateza imbere ubuzima bwiza bw'ababagana muri rusange ndetse n'uburyo bakumira indwara zigiye zitandukanye.

Mu Rwanda ku bufatanye na unicefu habayeho gutangiza uburyo umwana bamurinda bakoresheje gahunda, ya unicef yashyizeho yo gukurikirana buri mwana ndetse, bikaba byagizwemo uruhare n'abayobozi bo mu Rwanda.

Mu Rwanda hakomeje guteranira inama zigiye zitandukanye, aho bakomeje kugenda bahugura abantu mu byiciro bitandukanye higanjemo: abapapa, abamama, abasaza ndetse n'abakecuru, uburyo bateza imbere, imibereho myiza yabo ndetse n'uburyo bakwirinda indwara.

Abamama bari mu kigero cy'igihe gitandukanye bicaye hamwe aho bari barimo basobanurirwa uburyo bakwita ku buzima bwabo, ndetse n'ubw'abana kugira ngo babashe kwirinda indwara zigiye zitandukanye kandi bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ku Isi hakomeje kugenda hagaragara iterambere, mu mibereho myiza aho hari gahunda yo kwegereza abaturage amazi meza yo kunywa ndetse no gukoresha ibindi, aho babashyiraho amavomo rusange, bashobora guhuriraho bakabasha kuhavomerara ayo mazi meza.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, higanjemo abantu bakuru bahugukiwe ibintu bitandukanye, barimo basobanurira urubyiruko rwiganjemo cyane cyane abana, aho barimo babigisha imibereho myiza ndetse n'uburyo bakita ku buzima bwabo.

Ikirango gifite ku mpande uduti tubiri tumeze nk'ingano ndetse hagati harimo umumama urimo ureba umwana ndetse harimo n'akantu k'akazeru, kameze nk'akagaragaza umubumbe w'Isi.

Mu Rwanda mu bice by'ibyaro hakomeje kugenda hagaragara uburyo bwo gukoresha urutara mu kumutsa ibikoresho biririrwaho, aho babiterekaho kugira ngo bibone akazuba byumuke, bikaba bibafasha mu guteza imbere, ubuzima bwabo ndetse bikabarinda n'indwara.

Mu Rwanda aho umuntu arimo avoma amazi meza ku ivomo ndetse akaba yishimiye kuba ashobora kubasha kubona amazi meza mu buryo bworoshye, kandi bitamusabye kugenda urugendo rurerure kuko amusanga iwe mu rugo.

Umugabo wambaye akagofero k'umuhondo, akaba yari arimo akora ivomo ry'amazi ndetse hari na'abantu benshi batandukanye, bari baje kuvoma ayo mazi meza, bashyiriweho muri gahunda yo kwegereza amazi meza abaturage.

Inama yari yahuje abantu batandukanye harimo abamama ndetse n'abapapa, ikaba yari yabereye muri hoteri nziza ijyanye n'igihe yo mu gihugu cy'u Rwanda, aho bari bicaye ku tumeza twiza dutatse, kandi bafite n'amazi yo kunywa.

Umugabo urimo uha umuntu agafuka kameze nk'ak'umuceri kugira ngo bamufashe guteza imbere imibereho myiza ye ndetse agire n'ubuzima buzira umuze kandi bikaba ari byiza cyane kubera ko bavuga ko inzara yagabanutse.

Muri gahunda za leta harimo gahunda yo guhugura abantu bo mu ngeri zitandukanye uburyo bakurikiza kugira ngo babashe guteza imbere ubuzima bwabo ndetse n'ubw'igihugu muri rusange, batanga serivisi nziza kubabagana ndetse banabafasha kurwanya indwara zitandukanye.

Kimwe mu kigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe gukurikirana ibijyanye no gukwirakwiza amazi mu bice bitandukanye, kizwi ku izina rya WASAC gikomeje kuza ku isonga mu bigo bikomeje kugirira igihugu akamaro kubera ko ibice byinshi by'igihugu bimaze kubasha kubona amazi meza.

Abamama bari mu kigero gitandukanye bishimye ndetse banarimo babyina, nyuma yo kuba bari bavuye muri gahunda ya leta y'amahugurwa bagenda bahabwa kugira ngo babashe guteza imbere imibereho myiza y'abaturage muri rusange.

Zimwe muri gahunda za leta zo guteza imbere, imibereho myiza n'ubuzima bw'abaturage harimo gahunda yo kwigisha ababyeyi uburyo bwiza bwo kugaburira, abana babo ndetse no kwigisha gutegura indyo yuzuye, aho muganga yari arimo, aha umwana imfashabere.

Zimwe muri gahunda z'ubuzima zigezweho, harimo gahunda yo kwegereza ubuzima ndetse no gusuzuma abaturage, aho barimo basanga abana batoya mu rugo ndetse no ku bigo by'amashuri, bakabasha kumva uburyo umubiri wabo uhagaze, aho bapima uburyo umutima utera bakareba nimba nta n'umuvuduko w'amaraso bafite.

Zimwe muri gahunda za leta, harimo na gahunda yo kwegereza ubuvuzi bwihuse abaturage, aho hakomeje kugenda hubakwa ibyumba by'inama ndetse n'ahantu ho kujya hasobanurira abaturage uburyo bakirinda indwara.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara gahunda yo kugeza amazi meza ku baturage aho babasha kububakira amarobine yo kuyavomaho ndetse bakaba baza kuyavoma bitwaje indobo, amajerekani kandi bakabona amazi meza.

Umwana wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umuhondo, aho yari afite isabune mu ntoki n'akadobo munsi, ari kumwe n'undi mwana w'umukobwa ufite amazi mu ibinika kugira ngo amusukire abashe kujya akaraba intoki neza.

Muri zimwe muri gahunda za leta zijyanye n'igihe, harimo gahunda yo kwegereza amazi meza abaturage, aho babazaniye amavomo abegereye kandi abaha amazi meza, akaba abaturage benshi bishimira icyo gikorwa cyabagezeho kuko ubu ngubu batakibura amazi asukuye yo gukoresha.

Mu Rwanda hateraniye inama aho yari yahuje abantu bo mu ngeri zitandukanye ndetse bava no mu bihugu bitandukanye byinshi byo hanze ya Afurika ndetse no muri Afurika, aho bari barimo biga uburyo bateza imbere ubuzima bw'umugore n'umwana.

Zimwe muri gahunda za leta zijyanye n'igihe harimo gahunda yo kwegereza ubuvuzi bw'ibanze abaturage batandukanye, aho bagana ikigo nderabuzima bakakirwa. ndetse bagahabwa serivisi zitandukanye harimo inkingo, kuvurwa ndetse n'ibindi.

Imwe mu miryango idaharanira inyungu ndetse itegamiye kuri leta, uzwi ku izina rya Unicef. Ni umwe mu miryango mpuzamahanga ifasha abana kugira ubuzima bwiza, aho igenda yita ku mwana ndetse igashoramo n'amafaranga ikabafasha mu myigire no kubavuza.

Ifoto irimo umujyanama w'ubuzima wabihuguriwe, wambaye umwenda w'akazi uzwi ku izina ry'itaburiya, arimo asobanurira umugabo n'umugore uburyo bakita ku buzima bw'umwana wabo ndetse uyu mujyanama w'ubuzima akaba azwi ku izina rya mama w'ababyeyi.

Inama yari yahuzuye abantu bo mu ngeri zitandukanye, aho barimo bigira hamwe uburyo bateza imbere, uburwayi baburinda buri umwe, ndetse kandi bahabwa ubumenyi butandukanye, mu buryo bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho, harimo guhugura abantu bo mu byiciro bitandukanye, uburyo bakwisuzumisha ndetse n'uburyo bakurikirana ubuzima bw'abaza babagana, muri urwo rwego ibigo nderabuzima byose byagize gahunda yo kujya byicara hamwe, bigahugura abakozi babyo, ibijyanye n'uburyo bwo kwakira ababagana.

Aba mama bateraniye hamwe, harimo abahuguwe barimo babigisha, uburyo barinda ubuzima bwabo, ndetse basobanurira, aba mama bafite abana batoya uburyo bwiza bwo kubitaho kugira ngo babarinde indwara zitandukanye.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'agapfukamunwa, aho arimo atera urushinge umurwayi wicaye ku ntebe, ndetse bikaba biri muri gahunda ya Leta yo kugeza inkingo z'ubwoko butandukanye ku banyagihugu batuye mu Rwanda.

Abana bagiye kuvoma amazi mu bice bitandukanye, ndetse bakaba barimo bakoresha igikoresho ugenda upompa kugira ngo amazi azamuke, aho bishimiye kuba hari kuza amazi meza, kandi bakaba bagiye kubona icyo bacyura mu rugo.

Umwana ukiri mutoya urimo uvoma amazi mu kidendezi ndetse akaba arimo ayajyana kugira ngo aze gukora imirimo igiye itandukanye, kandi ikaba ari imwe muri gahunda leta nyinshi zirimo zirwanya zikomeje kugenda zikwirakwiza amazi meza mu baturage.

Abana bakiri batoya cyane cyane higanjemo ab'abakobwa, bambaye imipira yanditseho Unicef, akaba ari umuryango uharanira uburenganzira ndetse n'imibereho myiza y'abana kandi ukaba ushora amafaranga mu bikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abana.

Mu Rwanda hamwe mu bice by'icyaro, aho abantu bajya kuvoma amazi mu bishanga ndetse bakayakoresha banoza ibikoresho byabo bitandukanye, harimo amagare ndetse aya mazi bakaba bayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi harimo no kuyanywa.

Zimwe muri gahunda zigezweho mu gihugu cy'u Rwanda, harimo iyo kubegereza amazi meza, aho babubakiye amavomo rusange mu bice bigiye bitandukanye babasha kuza bakavomaho amazi meza, kandi mu buryo bworoshye kuko abegereye.

Zimwe mu nyubako ziberamo inama, hakaba hari habereyemo inama ihuza abantu bo mu ngeri zitandukanye ndetse bakaba bari bafite na mudasobwa, barimo biga ku buryo bateza imbere imibereho myiza y'abaturage cyane cyane mu guteza imbere ubuzima.

Umumama ufite imisatsi y'umukara, wambaye agapfukamunwa, uteruye akana keza agafashe mu mbavu, aho yari arimo yigishwa uburyo bita ku bana muri gahunda Leta yashyizeho kugira ngo barwanye indwara ndetse n'imirire mibi mu bana.

Umwe mu miryango itegamiye kuri Leta, uzwi ku izina rya Global Health Organisation, akaba ari umwe mu miryango iharanira iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, aho ufasha cyane cyane mu kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Kimwe mu miryango itegamiye kuri leta akaba ari umuryango waguye muri amerika uzwi ku izina rya nock caroria grobal alliance ukaba ufasha mu guteza ubuzima bw'abaturage imbere bubaha ahantu ho kwivuriza ndetse ubafasha no mu kwivuza.

Mu Rwanda hakomeje guterana inama zihuza abajyanama b'ubuzima ndetse n'ababakuriye, bagakomeza kwigira hamwe uburyo bakomeza guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, babarinda indwara hakiri kare ndetse kandi banabongerera ubushobozi.

Umwana w'umuhungu ukiri muto w'umunyeshuri wambaye agashati n'agakabutura aho yari yishimiye kuba ari kubasha kubona amazi aho yari ari mu ndobo ateretse ku kantu k'akameza ndetse kandi uyu mwana akaba yarimo ayafungura.

Abaganga b'inzobere, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amakarita y'akazi, aho bari bagiye muri Nyabageni gusura abaturage baho kugira ngo babashe gusuzuma indwara zigiye zitandukanye ndetse banazikumire mbere y'igihe.

Umuma wambaye akajiri kabigenewe ndetse n'agahishamunwa urimo upima umuriro, aho yari ari muri gahunda yo gukumira ibyorezo kugira ngo bidakwirakwira ndetse no kubasha kubona umuntu ushobora kuba yaba arwaye hakiri kare kugira ngo akurikiranywe.

Umumamama wambaye igitenge ndetse n'agapira keza n'akagofero, aho yari arimo akaraba intoki n'isabune n'amazi meza, aho yari arimo akoresha kandagira ukarabe, akaba ari ikintu bakora mu giti umuntu agakandagira hasi ubundi amazi akaza.

Isange one stop center ni imwe muri gahunda yashyizweho mu gihugu cy'u Rwanda ku bufatanye na polisi ndetse n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kugira ngo ibashe gukumira ihohoterwa ry'ubwoko bwose mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragara iterambere mu guhugura abantu bagiye batandukanye, mu bijyanye n'ubuzima bw'imibereho yo mu mutwe, aho bagenda bigisha abantu uburyo babwitaho, ndetse bakabasha no gutekereza neza cyane.

Mu Rwanda hari habaye gahunda y'ubukangurambaga, aho bakoze igikorwa cyo kugendera hamwe, bigisha abantu uburyo barwanya ihohoterwa ndetse bakangurira n'umunyarwanda wese ko, ihohoterwa ari inshingano ze kurirwanya.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, higanjemo abamama ndetse n'abapapa, aho bari bitabiriye inama irimo isobanurira abantu uburyo bakubaka ubutabera ndetse bagateza imbere n'imibereho myiza y'abaturage.

Umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, wabaye ku itariki icumi z'ukwa cumi, ukaba ukunze kuba ufite insanganyamatsiko yo kwibutsa abantu yuko ubuzima bwo mu mutwe, nabwo ari ingenzi bugomba kwitabwaho.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abakobwa, abasore ndetse n'abanyamahanga b'abazungu, aho bari bari hamwe, bafata ifoto nyuma yo kuganira ku buryo bateza imbere, ubuzima bwo mu mutwe ndetse banasobanuriwe uburyo ari ingenzi.

Madame Jannette Kagame, aho yari arimo atanga ubusobanuro bw'uburyo abantu bamenya ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho yari arimo abasobanurira ubuzima bwo mu mutwe icyari cyo, ababwira y'uko ari uburyo umuntu yiyumva ndetse n'uburyo yumva amerewe.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo aba mama, abasore ndetse n'abapapa n'abakobwa, aho bari bari mu nama barimo bigira hamwe uburyo bateza imbere ubuzima bwabo cyane cyane bibanda ku buzima bwo mu mutwe.

Inama yari yahuje abashinzwe umutekano yiganjemo Abapolisi ndetse n'abandi bantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abamama n'abapapa, akaba yari inama yari iri kwiga ku buryo bakirinda ihohoterwa rijyanye n'igitsina ndetse no guhohotera abana.

Bamwe mu rubyiruko rutandukanye rwiganjemo abakobwa, abahungu ndetse harimo n'umuzungu bakuriye, aho bari barimo baganizwaho ku buryo bagiye gutegura ubuzima bwo mu mutwe bw'abaturage muri rusange, babasobanurira ibibazo bakunda guhura nabyo.

Umusore ufite ibintu by'umukara yasize mu maso, wikoreye amashashi, wambaye imyenda icitse ndetse n'ipantaro icitse ndetse akaba asa nk'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Umukecuru uteze igitambaro ku mutwe, ukanuye cyane ndetse ufite amaso harimo iminkanyari. Akaba yarari kureba nabi ndetse ugendeye kuburyo ari kureba ukareba ukabona ko asa n'utishimiye ikintu runaka.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abana, abamama, abapapa, abagabo ndetse n'abasaza bafashe utudarapo tw'Igihugu cy'u Rwanda mu kuboko kwabo kw'iburyo, aho bari barimo bishimira gahunda za Leta ndetse no kuba dufite ubuyobozi bwiza.

Abantu biganjemo abasaza, abazungu, abapapa n'abamama, bari bahuriye imbere ya radisoni mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo, aho bari barimo bigisha uburyo ubuzima bwo mu mutwe bwatezwa imbere mu rubyiruko ndetse no mu bantu bakuru.

Umugabo ufite inkoni ndetse uri kumwe n'umwana, bisa nk'aho amuteruye ku rutugu ndetse ku ruhande hakaba hari n'undi mugore wambaye urunigi rw'umweru, akaba na we amumufashije, bisa nk'aho afite uburwayi runaka.

Umumama urimo agosora umuceri akaba ateruye umwana umwe ndetse n'undi wicaye, ku ruhande aho barimo barebana ndetse anabaganiriza uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo kandi icyo gihe yarimo anafasha bamwe gukina.

Mu rwanda bakomeje kugenda bahugura abantu batandukanye, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe aho bagenda babasobanurira, uburyo wakwirinda guhura n'ihungabana ndetse n'uburyo wakoresha kugira ngo, ubuzima bwawe bwo mu mutwe bukomeze kuba bwiza.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere muri serivisi z'ubuzima bujyanye no mu mutwe, aho hakomeje kugenda hubakwa ibigo bitandukanye bifasha gukurikirana ubuzima bwo mu mutwe, hakaba harimo ikigo cya hano i Huye kizwi nka Caraes, hari n'ik'i Ndera muri Kigali ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu Rwanda, mu mugi wa Kigali hakomeje kubera inama zitandukanye zigenda ziga ku buzima bwo mu mutwe, aho zihuza abantu bo mu ngeri zitandukanye, zikabasobanurira uburyo babasha kwigishamo abandi ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umumama w'inzobe ufite imisatsi miremire, wambaye agakote k'ibara ry'ubururu ndetse n'ikanzu y'umutuku, akaba ari umumama ukora muri patinazi ini helifu, akaba ari umushinga uzwi nk'inshuti mu buzima, ukaba ufasha ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro gutanga amaserivisi ku buntu ndetse babaha n'abarwayi ibyo bakeneye.

Umusore ufite imisatsi y'umukara ijagaraye, wambaye ibitenge bicitse, urimo akina n'amashashi ndetse afite n'ibikoresho bishaje, impande ze higanjemo ibibido nabyo bisa nabi, akaba asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Umumama utetse igikoma cyo kunywa ndetse akaba afite umwana mu mugongo ari kumwe n'undi kandi akaba yishimye cyane, kubera yari arimo atekera umwana we igikoma kimufasha kubona indyo yuzuye.

Mu Rwanda hakomeje guteranira inama zitandukanye, hahurira abantu bo mu ngeri zose, bakaganira ku buryo bateza imbere ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'icyo bagenda bafasha abantu bagiye batandukanye bahuye n'ikibazo cy'ihungabana cyangwa cyo mu mutwe.

Umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe mu mwaka bibiri na makumyabiri na gatatu, ukaba warabaye ndetse ugakomeza wibutsa abantu batuye ku isi batandukanye ko ubuzima bwo mu mutwe na bwo ari ingenzi, nk'ubundi buzima busanzwe muri rusange.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa gakomeye cyane, kandi akaba yambaye n'amarinete arinda amaso, aho ari mu bushakashatsi runaka kugira ngo arebe nimba hari ikintu gishya yabuvumbura.

Ibikoresho biherereye mu cyumba cyo gusuzumiramo, hakaba harimo intebe nziza yo kwicaraho, harimo imashini ku ruhande ifasha kureba umurwayi w'imbere ndetse bikaba biherereye ahantu hitariye habasha no kugera umuyaga.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara ubukangurambaga, mu kuvura zimwe mu ndwara zo mu kanwa, aho bagenda bajya mu bice bitandukanye abaganga, basuzuma abarwayi, ndetse bakanababaga abandi bakabaha imiti, kandi ku buntu.

Abana bo mu mashuri abanza, bari bari mu ishuri bicaye mu ntebe bishimye ndetse bashyize hejuru korogate, bari bamaze kubaha ndetse n'uburoso, nyuma yo kubigisha uburyo bakora isuku yo mu kanwa ndetse n'uburyo babungabunga ubuzima bw'amenyo.

Aho amaserivisi ajyanye n'ubuzima ndetse no kuvura amenyo akomeje kugenda atera imbere, abarwayi benshi bakomeje kugenda bagana abaganga b'amenyo batandukanye aho bahagera bakaryama mu busuzumiro ndetse umuganga akambara uturindantoki agafata n'udukoresho twabugenewe kugira ngo arebe uko amenyo yabo ameze.

Bimwe mu bikoresho byo mu biro bisuzumirwaho mu bitaro, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ibyuma bifite urumuri abaganga bakoresha kugira ngo babashe kureba neza uburwayi bw'umurwayi ndetse bafitemo n'utubati two kubikamo amadosiye y'abarwayi.

Abana b'abanyeshuri bakiri bato, aho barimo biga uburyo boza amenyo, bakoresheje uburoso ndetse n'amazi meza, bikaba biri muri gahunda yo kwegereza ubuvuzi, ndetse no gutoza abana bakiri batoya, uburyo babungabunga ubuzima.

Umwana w'umukobwa wagiye kureba muganga w'amenyo, aho yari arimo areba uko amenyo ye ameze, akoresheje ibikoresho bakoresha bareba mu menyo ndetse n'ibindi bakoresha bafashe mu ntoki, bareba nimba amenyo agifashemo neza.

Umwana w'inzobe wambaye ishati urimo guseka aho yari arimo yoza amenyo akoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'umuti kandi akabikora mu buryo yigishijwe.

abantu ni umuryango utegamiye kuri leta, bari basuye ikigo cy'amashuri abanza, aho bari barimo bigisha abanyeshuri bo mu bigo, uburyo bakora isuku y'amenyo, ndetse bari bazanye n'ibishushanyo, byo gukoresherezaho ubwo buryo, babereka.

Igishushanyo cyafashwe n'icyuma kizwi nka cesitegiseyi, akaba ari ifoto irimo igaragaza uburyo amenyo ndetse n'andi magufwa yo mu mutwe ahagaze mu gice cyo ku mutwe cy'umuntu.

Umuganga w'inzobere arimo asuzuma umurwayi we akoresheje agakoresho kabugenewe kabasha kureba mu kanwa ndetse akaba yari yambaye akarindamuwa ndetse n'agapfukantoki kugira ngo atamwanduza indwara zindi.

Umusaza ufite imvi wambaye rinete ndetse n'agapira keza kajya gusa umweru, aho yari arimo akora isuku y'amenyo ye, akoresheje umuti w'amenyo ndetse n'uburoso kandi akaba yari afite n'kirahure imbere ye kugira ngo arebe uburyo arimo abikora.

Ifoto yafashwe n'icyuma gifotora amafoto yo mu mutwe cyo mu bitaro kizwi ku izina rya sitisikani ikaba ari ifoto y'umukara, irimo igaragaza amenyo, amazuru, amagufwa akikije umutwe, ndetse muganga akaba ayikoresha kugira ngo amenye ahantu umurwayi yahuye n'imvune.

Umuganga w'inzobere wambaye imyenda yabugenewe harimo akarindantoki ndetse na agapfukamunwa, arimo asuzuma umwana w'umukobwa wari wicaye ndetse ku ntebe yayimanuye imbere ye. Kugira ngo arebe mu kanwa nimba nta burwayi bwaba burimo.

Umugabo w'inzobe ufite agasume ku rutugu, akaba arimo aseka ndetse ari gukoresha amenyo akata urudodo, ndetse akaba agaragara nk'aho yari yabyishimiye cyane kubera uburyo yari ari kureba.

Abana bo mu bigo by'incuke ndetse n'amashuri abanza aho bari muri gahunda yo kwigishwa uburyo ukoresha uburose, umuti w'amenyo ndetse n'amazi meza, mu buryo bwo koza ndetse no kugirira isuku amenyo ndetse n'ibindi bice by'akanwa.

Umukobwa mwiza ufite uburoso mu kanwa ndetse wambaye agasengeri, aho arimo yoza amenyo akoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo wabigenewe, ndetse kandi akaba afite amenyo asa neza cyane kuko asa umweru.

Umuganga w'inzobere yo mu kanwa aho yari yambaye agapfukamunwa, uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru asuzuma umurwayi we wari uryamye ku ntebe, aho yari afite agakoresho kareba mu kanwa kugira ngo arebe ikibazo cyaba kirimo.

Akana gatoya k'inzobe, gafite umusatsi w'mukara kasamye ndetse kari kumwe na muganga wambaye uturindantoki, arimo asuzuma mu menyo yako kugira ngo arebe ko nta kibazo cyangwa ubundi burwayi bwaba burimo.

Ibitaro byiza bivura amenyo, akaba ari ibitaro bya etaje bigeretse inshuro ebyiri, bikaba bizwi ku izina rya Hope Dental Center, bikaba bivura indwara zijyanye n’amenyo ndetse bigafasha no mu bindi bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'amenyo.

Umumama ndetse n'umusaza bose bambaye udupira tw'imituku bafite n'imvi, aho bari barimo baganira ku miti ndetse n'uburyo bakita ku buzima bwabo kugira ngo burusheho kugumya ari bwiza cyane.

Abasaza bakuze bari mu myitozo ngororamubiri, aho bari kwirukanka bafite agacupa k'amazi y'Inyange kandi bakaba barimo baseka cyane, bari baryohewe n'imyitozo ngororamubiri kandi bavuga yuko bibafasha kugira ubuzima bwiza butagira indwara.

Umusaza ukuze ufite imvi ku mutwe wambaye ishati uteruye akana keza k'inzobe mu ntoki gafite igipupe, aho arimo agakinisha ndetse akigisha n'uburyo bakoresha igipupe kugira ngo kabe gakina na cyo ndetse kandi yishimiye no kuba agateruye.

Umusaza ufite imvi wambaye rinete ndetse n’agashati kajya gusa umutuku aho yarari kumwe n'umuganga w'inzobere ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye umwenda wabugenewe aho yari yamushyizeho igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso ndetse yashyizeho ukuboko kw'iburyo aho yarimo amusobanurira uburyo arimo abigenza.

Umusaza wambaye agapira k'imyitozo ngororamubiri ndetse n'agakabutura k'umukara, arimo agorora amaboko akoresheje ibyuma byo guterura ndetse arimo yumva n'imiziki, kandi bikaba bimufasha kugira ubuzima bwiza.

Bamwe mu bakecuru basheshe akanguhe bakaba bari bambaye neza aho bari barimo bava muri gahunda ya Leta aho bari barimo babigisha uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi ndetse banabasobanurira bimwe mu bintu by'ingenzi byo kwitaho.

Umusaza usheshe akanguhe ufite imvi ku mutwe, wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro ya siporo, aho yari ari kumwe n'umuganga w'inzobere, aho yari yamuhaye akuma ko guterura ku kaboko k'ibumoso kugira ngo amwongerere imbaraga mu mikaya ye.

Umukecuru ufite imvi ku mutwe, uri kumwe n'umusore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'umweru, aho barimo bamwigisha uburyo agomba kujya ategura amafunguro ndetse akabona n'amafunguro akungahaye ku ntungamubiri.

Umuganga w'inzobere, wambaye akuma agapima uko umutima utera, ku ijosi, arimo aha imiti umukecuru wari uhari, ndetse anamuha amazi yo kuyinywesha, kugira ngo itaza gusigara mu ijosi ikaba yamuniga, cyangwa ikamutera ibindi bibazo.

Umumama usa nk'aho ari mukuru uri kumwe n'undi mumama nawe ukuze ariko udakuze cyane n'akana gatoya bisa nkaho uwo muntu mukuru cyane ariwe wabyaye uwo mama wundi ufite akana.

Umusaza uri kumwe n'umuganga, arimo amwereka uburyo bakoresha akagare kagenewe gufasha ababana n'ubumuga bwo kutagenda neza ndetse n'ubwo kutabona kugenda.

Umupapa ufite imvi ku mutwe wambaye ishati y'umweru, ufite utuntu two kurya mu ntoki wicaranye n'abana babiri, harimo umwe w'umukobwa ndetse n'undi w'umuhungu, aho barimo baganira ndetse basangira n'ibyo kurya.

Abamama bakuze bari kugenda nyuma yo kuba bari bavuye muri siporo ngororamubiri mu masaha ya mu gitondo ndetse barimo bayikora mu muhanda wa kaburimbo kandi ikaba ari siporo ngoramubiri, yari yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye.

Muri bumwe mu buryo bwo gukurikirana, abasheshe akanguhe, harimo n'uburyo bwo kubigisha imirire myiza yo gufata, aho basobanurira ko bagomba kunywa amazi menshi, ndetse bakarya imboga n'imbuto, cyane cyane bagakora n'imyitozo ngororamubiri.

Umuganga w'inzobere ufite agakoresho kumva uko umutima utera ku ijosi, ari kumwe n'umumama ukuze barimo baseka, aho yari amaze kumusobanurira uburyo yakita ku buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo yirinde indwara.

Umusaza ufite imvi ku mutwe wambaye agapira k'ubururu, uri kumwe n'umukecuru wambaye umupira w'umutuku ufite imvi na we, aho yari arimo amwereka ukuntu azajya anywa imiti ndetse yamuzaniye n'ikirahuri kirimo amazi cyo kunywesha iyo miti.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo uri kumwe n'umugore na we wambaye imyenda ya siporo, ubona ko basa nk'abakuze bishimye ndetse barimo bakora imyitozo ngororamubiri, aho barimo birukanka ku kagendo ka gake gake.

Umumama ukuze ufite imvi ndetse wambaye n'agapira k'umweru, urimo anywa imiti ayihawe na muganga w'inzobere uri iruhande rwe akaba yari arimo anamusobanurira akamaro kayo.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bicaye hamwe bakoze ikizeru. Bakaba bari bicaye mu dutebe, aho bari barimo baganira ku buryo bakoresha kugira ngo babashe gutuma ubuzima bwabo bugumya kumera neza, ndetse n'uburyo bakwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Imwe muri gahunda zigezweho harimo no guteza imbere imyitozo ngororamubiri kuko ifasha cyane cyane kugira ubuzima bwiza aho abantu bakuze higanjemo abakecuru cyane cyane, bagenda babereka imyitozo ngoramubiri bakora, kandi ikabafasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umu mama ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye umupira w'umweru uri kumwe n'umwana we w'umukobwa, nawe ufite imisatsi myiza y'umukara myinshi ndetse wambaye agakanzu, aho arimo amwigisha uburyo bakina umukino w'amahurizo.

Umumama ukuze wambaye marinete ndetse uteze n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, aho yarari kumwe n'umuganga w'inzobere ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye n'imyenda y'akazi arimo amusuzuma ndetse anamuganiriza.

Umugabo w'umupapa, uri kumwe n'akana ke, barimo bakina umukino w'amaboko uzwi ku izina rya basketball, aho arimo akigisha uburyo kagomba gukina, kandi bigafasha umwana gukurana umutima wo gukunda, imyitozo ngororamubiri.

Abantu bateraniye hamwe higanjemo abakuze, abana ndetse n'abamama, bafite ibyishimo cyane ndetse barimo baganira ku bintu byiza; aho birimo bibasetsa kandi bigaragara ko ahantu bateraniye baje kwishimisha.

Umuganga w'umukobwa ufite imisatsi y'umukara, ufite akuma gapima umutima uko utera ku ijosi, akaba yambaye amashati yabigenewe y'abaganga aho ari kumwe n'umukecuru ufite imvi, wambaye amataratara arimo amwigisha uburyo agomba kwita ku buzima bwe.

Umukecuru wambaye agapantaro ndetse n'umupira bya siporo, urimo ukora siporo izwi ku izina rya yoga, aho arimo agorora imitsi ndetse n'imikaya, kandi yicaye ku gasambi, kagenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu n'akabutura k'imyitozo ngororamubiri k'umukara aho yari ari kumwe n'umuganga w'inzobere wambaye imyenda y'umukara, arimo amunanurira imitsi ndetse amugorora ndetse kandi anamusobanura uburyo azajya yita ku buzima bwe.

Umukecuru ukuze ufite umusatsi urimo imvi, akaba mu ntoki ze afashe utwuma two guterura, arimo akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kongerera imbaraga imikaya ye kandi ndetse bikamufasha no kuruhura umubiri we, bimuha n'ubuzima bwiza.

Bumwe mu buryo bwo kwita ku bantu bakuze, harimo uburyo bwo kubaha imbuto ndetse no kubaha ibyo kunywa bifite ubuzima bwiza cyane cyane ibikorwa n'ubundi mu mbuto kugira ngo babarinde indwara zo mu zabukuru. Harimo nk'amadiyabete ndetse n'imivuduko y'amaraso.

Umusaza wambaye amataratara ndetse wambaye n'agapira k'imbeho n'ishati ufite mu ntoki ikaramu urimo yandika mu ikayi aho arimo amenyereza ubwonko ndetse aniyibutsa uburyo bwo kwandika kugira ngo atabyibagirwa.

Mu rwanda hakomeje kugaragara inama zigiye zitandukanye, aho bahura bakaganira ku bibazo byugarije ubuvuzi ndetse n'ubuzima muri rusange ndetse bagafatira hamwe n'imyanzuro yo gufasha kubigabanya no kubishakira umuti urambye.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hateranira inama zigiye zitandukanye zihuza ndetse abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo urubyiruko, abantu bakuru, aho bari kugenda biga uburyo bateza imbere ubuzima ndetse bagafasha n'abaturarwanda kugira imibereho myiza.

Zimwe muri gahunda za leta, harimo gahunda yo kwigisha abaturarwanda uburyo bakirinda indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'umwanda, ni muri urwo rwego hakomeje kugenda haterana inama, aho hahurira abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo urubyiruko, bakabasha kurwigisha uburyo rwakwirinda.

M'u Rwanda mu mujyi wa kigali munzu iberamo inama, hahuriye abantu bo mu ngeri zitandukanye. Ndetse basusurutswa n'itorero, aho bari bahuriye kwizihiza umunsi umunsi wa SIDA mu mwaka wa 2024.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara, inama zigiye zitandukanye aho zihuza abantu, bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'abantu bakuze, aho zigenda ziga mu buryo bateza imbere, imibereho myiza ndetse n'ubuzima bw'abaturarwanda muri rusange.

Mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange bakomeje kugenda bibutsa abantu batandukanye ko mu bintu byongera amahirwe yo kurwara kanseri harimo umubyibuho, ukabije ndetse n'ibintu barya, aho bagira inama abantu yuko bagomba kujya barya ibiryo bifite ubuzima bwiza kandi bakagenda birinda kugira umubyibuho ukabije kugira ngo bagabanye ayo mahirwe.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragara ubukangurambaga, aho abantu batandukanye higanjemo abakecuru ndetse n'abamama, aho babigisha uburyo bakirinda kanseri y'inkondo y'umura ndetse bikaba biri kugenda bikorwa mu bice bitandukanye.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragara iterambere mu buvuzi butandukanye, aho hatasigaye inyuma n'ubuvuzi bwa kanseri, aho hari gahunda yo kwita ku bantu barwaye kanseri, ndetse bagatabara ubuzima bwabo mu buryo bwihuse, ndetse bakaba bakomeje no gushishikariza abantu kugenda bamenya ko bino bintu bigenda bikorwa.

Inama ijyanye n'ubuzima ndetse n'imirire, izaba ku itariki makumyabiri n'enye kugeza mu kuri makumya n'eshanu, mu mwaka w'ibihumbi biriri na makumyabiri na gatanu mu kwezi kwa Gatandatu, ikazabera ahazwi nka Amsterdam akaba ari mu gihugu cy'u Buholandi.

''Power Africa'' ni umuryango utegamiye kuri leta, aho ufite intego yo guteza imbere ubuzima rusange bw'abaturage. Binyujije mu kubigisha uburyo babungabunga ubuzima bwabo bukaguma kuba bwiza, ndetse bagakora n'imyitozo ngororamubiri.

Mu Rwanda, hakomeje kugaragara gahunda za Leta aho bakomeje gukora ubukangurambaga mu gusobanurira abantu uburyo bagomba kujugunya imyanda. aho imyanda y'ibyuma ndetse n’ibindi bikoresho bagomba kuyishyira ukwabyo, ndetse n’iyanduza ukwayo, kugira ngo babashe kugabanya ingaruka imyanda iteza.

Mu Rwanda kuva ku itariki umunani kugera kuri makumyabiri n' enye z'ukwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri habayeho icyumweru cyo kurwanya udukoko twanga kuvurwa n'imiti, ndetse gahunda yacyo kwari ukwigisha abantu uburyo bakoresha imiti neza kugira ngo birinde ko udukoko twajya turinanirwa kuvurwa nayo.

Ku munsi wahariwe ibidukikije ukaba warabaye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, akaba ari umunsi wibutsaga abantu ko bagomba kubungabunga ibidukikije.

Inama yabereye mu gihugu cy'u rwanda mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inama yari yahuje abantu mu bihugu bitandukanye harimo abo muri Afurika ndetse n'abo hanze ya Afurika, aho barimo baganira uburyo bateza imbere ubuzima bwiza mu Rwanda.

Inama yari yahuje abantu mu ngeri zitandukanye, higanjemo abagore bakuze aba mama ndetse n'abapapa. Aho yari inama yari yahuje ibihugu byo muri afurika yita ku buzima, biri kuganira uburyo bakita ku miti bagenda bakoresha.

Ku munsi w'ubuzima bakomeje kugenda bibutsa abantu ko icyorezo cya korona virusi kizwi ku izina rya Covid-19, cyagaragaye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, ko cyagaragaje yuko tugifite intera ndende mu kugenda mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'ubuvuzi, dufasha kubiteza imbere.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragara urugendo ruhuza abantu aho bagenda basobanurira abantu, uburyo bakiririnda kanseri y'inkondo y'umura ndetse banagaragaza ko kuyirinda ari bimwe mu bintu by'ingenzi.

Imwe mu miryango itegamiye kuri leta ukaba uzwi ku izina rya HPR, bivuze helifu pipo Rwanda, aho ari umuryango ufasha abanyarwanda, kubasha kubaho bafite ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ndetse ukaba uteza imbere imibereho myiza y'abaturage.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe yo mu cyumba cyo kubaga, harimo agatambaro ko mu mutwe, agapfukamunwa ndetse n'imyenda yo kubagana ndetse bakaba bari bafashe n'ibikoresho bakoresha kugira ngo batangire kubaga umurwayi.

Umugabo muremure w'igisore wambaye ingofero ndetse n'amataratara, akaba arimo yamamaza yuko abantu bashobora kuba babasha kubona urukingo rw'indwara izwi nka manki pogisi mu buryo bworoshye guhera nonaha, kuko rwabashije kuboneka kandi bari kurutanga mu buryo bworoshye.

Mu Rwanda bakoze raporo y'imyaka icumi yo kuboneza urubyaro ndetse ikaba ari raporo ikubiyemo uburyo bwakoreshejwe cyane muri iyo myaka icumi ndetse ikaba inasobanura uburyo babashije kugabanya urubyaro ku kigero runaka.

Mu Rwanda mu mugi wa Kigali, bakiriye inama, aho ari inama ijyanye n'ubuzima, ndetse ikabi ivuga uburyo Leta yafasha guteza imbere ubuzima bw'abaturage muri rusange, aho umuyobozi w'iyi nama yari arimo asobanura uburyo ibi bizagerwaho.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe aho bari bari mu cyumba cy'ibagiro, bafite umurwayi barimo babaga, ndetse bambaye udutwikira mu umutwe, udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, barimo babaga umurwayi ndetse banasuzuma ko ubuzima bwe bukimeze neza.

Umunsi wahariwe kurwanya diyabete, ukaba ari umunsi bafite insanganyamatsiko yo gukwirakwiza, imyigire ndetse n'ubumenyi mu bijyanye n'indwara ya diyabete, ndetse ukaba warabereye mu mujyi wa kigali aho bigishijwe ibintu bigiye bitandukanye.

Abaganga b'inzobere, bambaye uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa n'indi myenda yagenewe kubaga aho bari barimo bafashe igikoresho mu ntoki bakoresha kugira ngo barebe mu kanwa ndetse no mu mazuru nimba nta kintu cyaba kirimo.

Mu Rwanda inyubako z'ubuzima zikomeje kugenda ziyongera, aho bubatse n'inyubako nshya yitwa Rwanda kansa senta. Akaba ari inyubako itanga ubuzima ndetse igafasha no kuvura abantu babana n'ama kanseri kandi ikanabigisha.

Bimwe mu byuma bijyanye n'igihe kikaba ari icyuma kizwi ku izina rya siti sikani, bakaba abaganga bashyiramo uwo murwayi kugira ngo babashe kureba mo imbere, cyane cyane bakaba bagikoresha kugira barebe nko mu bice by'ubwonko uko bimeze.

Icyumba cyo mu bitaro cyagenewe kubagirwamo akaba ari icyumba kiba kiri ahantu hafunze neza ndetse gifite igitanda kiza n'imashini zabugenewe zibasha gukurikirana umurwayi kandi kikaba gifite n'amatara meza amurika cyane kugira ngo abaganga babashe kubona neza.

Imwe mu nzu nziza zijyanye n'igihe icuruza imiti ikaba izwi ku izina rya Target pharmacy, aho ushobora kugenda ukabona imiti itandukanye igufasha gukiza indwara urwaye kandi ndetse ikaba iri ahantu heza, aho buri wese yabasha kuyigeraho mu buryo bworoshye kubera ko yegereye umuhanda wa kaburimbo.

Bimwe mu bikoresho bijyanye n'igihe bibasha gupima mu bice by'umubiri harimo nk'ikizwi ku izina rya ekisirayi, ikaba ari igikoresho gifasha abarwayi kugira ngo barebemo imbere cyane cyane bareba ko amagufwa nta kibazo afite.

Kimwe mu bice by'inyubako z'ibitaro, akaba ari igice kigizwe n'amamashini abasha gutegura amaraso abantu bagiye batanga, aho izo mashini zigenda ziyatandukanya ndetse zikabasha no kureba ayanduye zikabasha no gukuramo imyanda.

Kimwe mu bikoresho bikunze kugaragara ku bitaro bikomeye, aho gifasha abaganga gusuzuma umurwayi wabo mu bice by'imbere. Harimo mu mutwe, mu mugongo ndetse n'ahandi. Aho kibafasha kureba ibirimo mw'imbere.

zimwe mu nyubako zo mu bitaro, aho hagiye hariho utwapa tuyobora ababigana ahantu hatandukanye, harimo utubereka aho ubwiherero buri, aho banyuriza abantu mu byuma, aho bavurira ndetse n'ibyumba byo kubagiramo.

Bimwe mu bitaro bijyanye n'igihe, bikaba bizwi ku izina rya ayi fondesheni hosipito, akaba ari ibitaro cyane cyane byibanda mu kuvura uburwayi bujyanye n'amaso, aho bagenda basuzuma abarwayi ndetse bakabasha kubona n'ibikoresho bibafasha kureba neza.

Bimwe mu bikoresho byo mu bitaro aho umuganga yari ku mashini, ashyiramo ibizami by'abarwayi kugira ngo abashe kureba ibisubizo birimo ndetse akaba ari n'ahantu habugenewe kuko hafite ibikoresho byongera umuyaga.

Kimwe mu bigo biherereye mu mujyi wa Kigali kizwi nka rihabu, kikaba gifasha abantu bakoresheje ibiyobyabwenge kugira ngo kibashe kubibamaramo kandi bagarure n'ubwonko ku gihe. Kandi muri byose haje kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Kimwe mu byumba byo mu bitaro biraramo abarwayi, aho buri cyumba kigiye gifite ibitanda byinshi ndetse buri gitanda kikaba gifite supanete kandi gifite amashuka meza, matela ndetse n'ahantu umurwayi abasha gutereka ibikoresho bye.

Bimwe mu bitaro bijyanye n'igihe, cyane cyane byibanda mu kuvura indwara zidakira, harimo kanseri, biherereye mu Karere ka Burera, akaba ari ibitaro bizwi ku izina rya Butaro, bikaba bifite inyubako nziza cyane kandi biganwa n'abarwayi benshi bagiye batandukanye.

Kimwe mu byumba byo kubagiramo, kikaba ari icyumba gifite amatara meza hejuru, abasha kumurikira abaganga ndetse n'igitanda kiza, umurwayi aryamaho kugira ngo bamubage neza kandi harimo n'imashini, zikurikirana ubuzima bw'umurwayi.

Zimwe mu nyubako z'ibitaro, zubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako zikikijwe n'ubusitani ku mpande ndetse zikaba zifite n'ahantu imodoka zishobora guhagarara imbere yazo kandi zikaba zubatse mu buryo bugezweho aho ari inzu zigeretse kandi zifite amabati meza.

Imwe mu nzu icuruza imiti, izwi ku izina rya Peniyeri famasi, ikaba iri muri zimwe mu zitanga amaserivisi ahantu ushobora kuba wabasha kubona imiti ya kizungu ndetse kandi bakaba bakorana n'ubwishingizi bumwe na bumwe kugira boroshye uburyo bwo kuyibona.

Inzu iberamo imyitozo ngororamubiri izwi ku izina rya gym, ikaba ari inzu igiye irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha kugorora ndetse no kunanura imikaya harimo ibyuma byo guterura ukoresheje amaboko, amaguru, imashini zo kwirukankaho ndetse n'ahantu ho gutereka agasambi kugira ngo umuntu abashe kunanura imikaya n'imitsi.

Bimwe mu bitanda byiza bijyanye n'igihe, akaba ari ibitanda bifite amapine kandi biherereye ahantu hafite ubwiherero ndetse kandi bikaba bifite n'amarido, aho umurwayi ashobora kuba yabasha kutabonwa n'undi.

Umuganga ukora mu bitaro ndetse wambaye n'imyenda y'akazi n'agapfukamunwa, harimo agenda ava aho abarwayi barwariye, ajya kureba undi murwayi ndetse akaba ari ahantu heza cyane kandi hajyanye n'igihe.

Bimwe mu bice byo mu bitaro harimo n'inzu bagororeramo amagufwa ndetse n'ingingo bikaba bigiye birimo ibyuma bigiye bitandukanye harimo ibyo guterura, ibipima uko amaguru agenda, ndetse n'ibireba imbaraga z'imikaya ndetse n'imitsi.

Imwe mu nzu zitanga imiti hakaba harimo na farumasi izwi ku izina rya iraguha nayo ikaba itanga imiti kandi by'akarusho ikabi ikorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye harimo nk'ubuzwi nka saniraham na radiant ndetse n'ubundi.

Udupaki turimo amaraso, akenerwa kwa muganga, bakoresha kugira ngo, bahe abarwayi batakaje amaraso, ndetse tuno dupaki tukaba tugizwe n'amaraso, azwi nk'uduserire two mu ibara ry'umutuku, twonyine tutavangiye.

Kimwe mu cyumba kigezweho cy'ubuvuzi giherereye mu bitaro aho ari icyumba kirimo imashini izwi ku izina rya Ecograph,m ikaba ifasha kureba mu bice by'imbere mu muntu, uko bimeze ndetse bigafasha abaganga bagikoresha, kumenya uburwayi bw'umurwayi waje abagana.

Icyumba cy'abana giherereye mu bitaro, aho hari icyumba gishushanyijemo ibishushanyo bibasha gushimisha abana ndetse kikaba kirimo n'ibipupe, kandi n'udutanda twiza dutuma abana bahishimira cyane.

Inyubako nziza iherereye mu bitaro biri mu karere k'amajyaruguru, akaba bizwi ku izina ry'ibitaro bya Butaro; aho harimo abantu barimo bahagenda ndetse bikaba bifite n'ubusitani bwiza cyane, kandi byubatse mu buryo bugezweho.

Bimwe mu bitaro byubatse mu buryo bugezweho, akaba ari ibitaro biherereye ahantu hari imisozi myiza ndetse kandi bikaba bifite ubusitani, bifite amatara kandi bikaba bigeretse inshuro imwe, bikaba byakira abarwayi bagiye batandukanye.

Umuganga w'inzobere wambaye agatambaro mu mutwe ndetse n'imyenda y'akazi yabigenewe, arimo areba uburyo akana kameze, aho yari agafashe akaboko ndetse agiye no kugaha imiti.

Bimwe mu bitaro bikomeye biherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, i Kanombe, bikaba bizwi ku izina rya Legacy, akaba ari bimwe mu bitaro bifite ama serivisi yateye imbere, aho bibasha ndetse no kwakira abarwayi bivuza bagumye mu bitaro.

Ikigo cyo mu Rwanda cyateye imbere mu buvuzi bwo kurwanya indwara zidakira, kikaba kibanda cyane cyane ku kuvura kanseri, kizwi ku izina rya Rwanda kansa senta, kikaba gikomeje gukataza mu iterambere aho gikomeje guteza imbere ubuzima bw'abaturarwanda.

Kimwe mu bigo nderabuzima bijyanye n'igihe kizwi ku kigo nderabuzima cya Gishweru, kikaba kiri mu byubatswe mu rwego rwo kwegereza serivisi z'ubuzima abaturarwanda ndetse kandi kikaba kinatanga serivisi zitandukanye, zirimo kuvura indwara ndetse n'ibindi.

Imwe mu nyubako iherereye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari inzu ikorerwamo ubuvuzi ikaba izwi ku izina ry'inzu ya materinete cyangwa y'ababyeyi, akaba ari igice cyo mu bitaro cyakira abamama baje kwisuzumisha cyangwa baje kubyara.

Umuganga w'inzobere ufite agakoresho gapima uko umutima utera, ku rutugu rwe akaba yari arimo asuzuma umukecuru wambaye igitenge ndetse ufite n'imisatsi y'umukara kugira ngo arebe nimba nta burwayi runaka yaba afite.

Bimwe mu bice byo mu bitaro, aho hagiye harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibipima umuvuduko, ndetse n'uburyo umutima utera, kandi bikaba ari byinshi.

Kimwe mu bigo nderabuzima byubatswe ku bufatanye n'Imbuto foundation, ndetse na minisiteri y'ubuzima, ndetse mu gihugu cy'u Rwanda kikaba giherereye mu karere ka Nyagatare, hazwi nka Tabagwe, kikaba cyubatswe mu buryo bugezweho, kandi gifite abakigana benshi.

Bimwe mu bitaro byubakiwe umubyeyi n'umwana, bikaba ari ibitaro byiza cyane, bigeretse inshuro imwe ndetse bifite ahantu imodoka zishobora kuba zahagarara, kandi bikaba biherereye ahantu hegereye abaturage.

Abaganga bambaye amatabuliriya y'umweru aho bari mu nyubako ya labo, bakaba basuzuma ibizamini bitangirwa kwa muganga ndetse kandi bakaba bari barimo bareba mu bisubizo byo mu bizami bafashe.

Kimwe mu cyumba giherereye mu bitaro, kikaba gikoreshwa nk'icyumba cyo kubagiramo, kikaba kirimo ibitanda byabugenewe ababagwa baryamaho, ndetse amatara meza, kandi harimo n'imashini zifasha gukurikirana ubuzima bw'umuntu barimo kubaga.

Icyumba cyo kubagiramo kijyanye n'igihe, aho gifite amatara yabugenewe amurikira muganga mu gihe arimo abaga ndetse hakaba harimo agatanda kajyanye n'igihe, aho babasha kukazamura cyangwa bakakamanura kandi hakaba harimo n'imashini ipima uburyo ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

umusaza wambaye agashati ka karokaro, ndetse ufite imvi wambaye n'amatatara aho yari ari kumwe n'umuganga w'inzobere, arimo amupimira uburyo amaraso ye agenda ndetse akaba yari yishimiye ko uwo muganga arimo amusuzuma neza.

Bimwe mu bitaro bikuru biri mu gihugu cy'u Rwanda, bikaba biherereye mu ntara y'amajyepfo, mu karere ka Huye, mu murenge wa Ngoma, aho ari ibitaro bizwi ku izina rya CHUB, bikaba bitanga serivisi nyinshi zitandukanye, zisangwa ku bitaro bikuru.

Ku isi mu bice bigiye bitandukanye, hakomeje kugenda hagaragara iterambere mu myubakire y'ibitaro, aho bakomeje kubaka ibitaro bijyanye n'igihe, aho bifite imihanda, ari ama etaje ndetse bikaba bifite n'ibirahure bibasha kugabanya urumuri.

Zimwe mu nyubako zo mu bitaro, harimo n'ahantu hagenewe guhagarara imodoka ndetse n'aho bakirira abaje babigana bagiye batandukanye, bakabafasha kubayobora aho bagiye.

Bimwe mu bitaro biherereye mu mujyi wa Kigali, bikaba bizwi nk'ibitaro bya Kacyiru, akaba ari bimwe mu bitaro biherereye ahantu heza kubera byegereye umuhanda wa kaburimbo ndetse kandi bikaba bifitete n'inzu nziza zijyanye n'igihe zifasha abaza babigana kuvurwa neza.

Kimwe mu bice by'inyubako z'Ibitaro hakaba handitseho ijambo out patient, akaba ari aho bakirira abarwayi bivuza bataha kandi hakaba hasa neza kandi haherereye ahantu heza cyane buri murwayi yashobora kuba yabasha kugera atayobye.

Umuganga wabigize umwuga afite agakoresho gapima umuvuduko w'amaraso, aho yari yagashyize ku kaboko k'iburyo k'umusaza yarimo arebera umuvuduko w'amaraso we uko uhagaze ndetse umusaza akaba yari yishimiye ko ari guhabwa ubuvuzi bwiza.

Imwe mu mashini ijyanye n'igihe, ikaba izwi ku izina rya siti sikani, ikaba ari imashini ifasha abaganga kuba babasha kureba mu muntu mo imbere, kugira ngo barebe nimba nta kibazo yaba afitemo cyangwa ubundi burwayi.

Imwe mu nyubako z'ibitaro zijyanye n'igihe, aho ari inzu yubatse inshuro zigeretse kabiri, kandi ikaba isakaye mu buryo bugezweho, aho hejuru isiga umwanya w'umwuka ubasha kwinjiramo kandi ikaba ifite ubusitani buyikikije.

Ibitaro bya Gihundwe, akaba ari ibitaro biherereye mu ntara y'iburengerazuba, bikaba bifite serivise yo kwita ku maso, aho bibasha kureba indwara abarwayi bagiye batandukanye bafite mu maso yabo ndetse bakabaha n'ibikoresho bibafasha kugira ngo babashe kureba neza.

Icyumba cyo mu bitaro akaba ari icyumba gitatswe n'amatara meza y'umweru ndetse harimo n'imitako igiye itandukanye bikaba bisa nkaho ari icyumba cyakorewe abana kuko hagiye harimo ibikinisho ndetse n'ibindi byabasha kurangaza umwana.

Bimwe mu bice byo mu bitaro, harimo ibyumba byahariwe kwakira abarwayi bavuye mu byumba byo kubagwa ndetse n'abarwayi bafite uburwayi bukomeye, aho hari ibyuma bibasha kubakurikirana bikareba uburyo umuvuduko wabo w'amaraso uhagaze ndetse n'ibindi.

Imwe mu nzu yo mu bitaro akaba ari ahabikwa ibizami bikoreshwa mu bitaro kugira ngo barebe ko umurwayi hari indwara yaba afite mu maraso cyangwa ku bindi bice bigiye bitandukanye byo mu mubiri.

Bimwe mu bice by'ingenzi byo mu bitaro harimo n'aho bahugurira abarwayi ndetse n'abaza babigana, akaba ari inyubako ifite intebe zo kwicaramo zihagije ndetse ikaba yicaramo n'ingeri z'abantu zitandukanye, aho babasha kubigisha uburyo bateza imbere ubuzima bwabo.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere muri serivisi zijyanye n'ubuzima, aho bakomeje kugenda bubaka ibigo nderabuzima bitandukanye, aho harimo n'ikigo nderabuzima cya Matyazo, giherereye mu Karere ka Huye, mu Murenge wa Matyazo, aho na cyo gitanga serivisi nziza z'ubuzima.

Bimwe mu bice byo mu bitaro, harimo ahazwi nk'aho bakira abarwayi, hakaba harimo intebe nziza cyane, akaba ari intebe umuntu ashobora kuzamura amaguru cyangwa akayamanura, akagonda umugongo cyangwa akawugondora ndetse zikaba zifite n'utuntu, dufata amaboko ku buryo umuntu wicayemo atagwa.

Bimwe mu bitaro bijyanye n'igihe bigezweho, bikaba ari ibitaro biherereye mu karere k'amajyaruguru, mu karere ka Burera, bikaba bizwi ku izina ry'ibitaro bya Butaro, bikaba ari ibitaro byubatse neza, kandi bifite ubusitani bubasha kubiha umwuka mwiza, ndetse n'ababigana bakaba babikunda cyane kubera bitanga serivisi nziza.

Aho bakirira abagana ikigo nderabuzima hakaba haba hari urujya n'uruza rw'abarwayi bari mu kigero gitandukanye harimo abama, abana bakuze ndetse n'abakobwa n'abapapa kandi bikaba biterwa no kuba aho babakirira ari hatoya kandi abarwayi ari benshi.

Mu nyubako zigiye zitandukanye zo mu bitaro, harimo n'inyubako bakoresha bashyiramo abarwayi bakiva mu ibagiro, aho ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibitanda bijyanye n'igihe ushobora kuzamura cyangwa ukamanura ndetse n'imashini zibasha gukurikirana ubuzima bw'umurwayi umunota ku wundi.

Ku isi yakomeje kugenda hagaragara iterambere mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse hakaba hari gahunda yo gukora ubuvuzi budaheza ndetse buri wese yisangamo, aho bakomeje kugenda bubaka inyubako zisangwamo cyane n'abana bakiri bato aho bashyiramo ibikoresho bibashimisha ndetse bikanabarangaza harimo utunyamasyo udutebe twiza ndetse n'ibindi.

Bimwe mu bice byo mu bitaro, harimo inyubako aho abarwayi baherwa serivisi zitandukanye, harimo nko kubapima umuriro, kureba nimba bazanye ibikoresho bihagije byo kwivuza ndetse no kubatera inshinge.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bujyanye n'igihe ikaba ari inzu y'umubyeyi izwi ku izina rya materinete hakaba ariho abamama babyarira ndetse bakaba bahagumye mu gihe baje gusuzumisha inda zabo batarabyara cyangwa bakimara kubyara.

Abarwayi barwaye mu bitaro, aho baryamye ku bitanda byiza bijyanye n'igihe, harimo ibifite amapine ku buryo babasha kubyimura mu buryo bworoshye kandi abarwayi bakaba bafite inzitiramibu hejuru ya buri gitanda ndetse bafite n'amarido abarinda urumuri.

Umurwayi uri ku gitanda cyo mu bitaro, aho yegeranye n'imashini zimufasha kureba umuvuduko w'amaraso, umwuka ndetse zikamupimira n'uburyo umutima utera. Kandi zikamufasha no kubona iby'ibanze yakenera harimo nk'amazi.

Umukozi w'ibitaro, ubifitiye uburenganzira wambaye akarindantoki, arimo atera urushinge umurwayi, wari wakuyemo mu gice cyo hejuru, aho bari bagiye gutera ku kuboko ndetse akaba yarimo abikora mu buryo bujyanye n'igihe.

Bimwe mu bitaro bijyanye n'igihe biherereye mu Ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu mujyi, bikaba bizwi ku izina rya Sangwa polyclinic akaba ari ibitaro bitanga serivisi zitandukanye z'ubuzima harimo iz'ababyeyi, iz'abana ndetse n'iz'abantu bakuru.

Umuganga w'inzobere wambaye akantu ko mu mutwe, agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'akazi. Aho yari arimo areba akana gateruwe na mama wako, agasuzuma arebe ko nta burwayi kaba gafite kugira ngo akavure.

Abakozi biganjemo abo mu bitaro bya LEGACY CLINIC, biherereye mu mujyi wa Kigali barimo bishimira y'uko bagiye kujya batanga serivisi nziza kubabagana kandi bakabasha no kwambara agapfukamunwa kugira ngo babashe kwirinda, ibyorezo bishobora kuba byakwirakwira.

Imwe mu nzu y'ikigo nderabuzima, izwi nka laboratware, aho abantu batangira ibizami kugira ngo basuzume mu maraso yabo, ndetse n'ahandi nko kureba mu nkari, barebe ko nta burwayi bwaba burimo.

Bimwe mu bitaro bijyanye n'igihe, bizwi ku izina ry'ibitaro bya Nyarugenge, bikaba biri muri bimwe mu bitaro bitanga serivisi nziza cyane kandi bifite inyubako zijyanye n'igihe, aho byubatse mu nzu zigeretse inshuro ebyiri kandi bikaba bifite n'umwanya w'ubusitani imbere yabyo

Icyumba gishyirwamo abarwayi barwariye mu bitaro akaba ari icyumba kirimo ibitanda bigiye ari byiza ndetse ku ruhande hakaba hari inzitiramibu ndetse n'utubati two guterekaho ibikoresho byabo bigiye bitandukanye kandi bakaba bafite n'ibikoresho bibasha kubaha umwuka.

Ibitaro bya Rwamagana, ni bimwe mu bitaro bijyanye n'igihe ndetse bikaba byari byasuwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo abakobwa n'abahungu, abamama n'abapapa ndetse hakaba hari harimo n'abanyamahanga bava hanze y'Afurika, aho bigaga ku buryo bateza imbere ubuzima bwiza.

Bimwe mu byumba by'isuzumiro bijyanye n'igihe, aho hari agatanda umurwayi abasha kuryamaho ndetse n'imashini, izwi ku izina rya ekogarafi, muganga akoresha kugira ngo asuzume umurwayi ndetse abashe no kureba mu bice by'imbere uko bimeze.

Zimwe mu nyubako zijyanye n'igihe, hakaba harimo inyubako z'ibitaro, aho byubatse bigeretse inshuro zirenze ebyiri ndetse bikaba bifite n'ubusitani bubikikije, kandi biri ahantu hegereye abaturage ndetse hari n'ikirere cyiza.

Zimwe mu nyubako zo mu bitaro, hakaba harimo umuganga wambaye umwambaro w'akazi ndetse akaba yicaye ategereje kwakira abarwayi, aho afite agatanda ku ruhande rwe abasha kwakiriraho umurwayi ndetse n'ahantu ho gukarabira mu gihe arangije akazi.

Kimwe mu cyumba cy'ibagiro kijyanye n'igihe, aho gifite ibitanda byiza byo kuryamaho, amapuberi yo gushyiramo imyanda ndetse n'amatara amurikira umuganga urimo ubaga kandi hakaba harimo n'imashini nyinshi zibasha gukurikirana ubuzima bw'umurwayi urimo abagwa.

Inyubako ziherereye mu bitaro bya butaro, bikaba ari ibitaro biba mu karere ka burera mu ntara y'amajyaruguru bikaba kandi byibanda, mu kuvura indwara zijyanye n'ama kanseri ndetse, ha akaba ari ibitaro biri ahantu heza, hari ubusitani bw'ibiti kandi, byubatswe mu buryo bugezweho.

Zimwe mu nyubako zo mu bitaro bigiye bitandukanye, zigiye zifite n'ibice aho umurwayi ashobora kuba yajya kwicaramo. Akaba ari ahantu hari ibiti ndetse n'umwuka, akabasha kuruhuka ndetse akabona n'umwuka mwiza ahantu hitaruye ibitaro.

Kimwe mu cyumba cyo mu bitaro kijyanye n'igihe, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye higanjemo ibikoreshwa kugira ngo babashe gushyira, umwuka mu bicupa bigiye bitandukanye, ndetse uyu mwuka ukaba koreshwa n'abarwayi bari mu bitaro

Bimwe mu byumba byo mu bitaro hakaba higanjemo icyumba kigizwe n'ibitanda byinshi ndetse bikaba bigiye bifite n'inzitiramibu n'amarido ndetse bikaba bifite ibitanda byiza aho bashyira abarwayi barwariye mu bitaro.

Bimwe mu bice byo mu bitaro bitandukanye aho harimo igice cyiza kirimo intebe zijyanye n'igihe ndetse n'ahantu ho kwicara, aho abarwayi bahurira kugira ngo bahabwe imiti itandukanye ndetse banabigishe uburyo bwo gukoresha iyo miti.

Bimwe mu bice byo mu bitaro, harimo n'igice bakoresha basuzuma abarwayi; aho hari icyumba kirimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse kakaba gafite n'ibikoresho bifasha abaganga gukurikirana umurwayi mu buryo butandukanye, harimo kureba mu bice byo mu murwayi mo imbere.

Zimwe mu nzu zigezweho zijyanye n'igihe zita ku buzima, harimo n'uduce twagenewe kubikwamo imiti, aho imiti ibikwa mu tu etajeri ndetse bakayishyira ahantu itakangirika kandi bakayishyira ahantu mu buryo bugiye bujyanye n'akamaro igirira abayigura.

Igikoresho cyo kwa muganga kizwi ku izina rya sstis scan akaba ari igikoresho kinini ndetse gikunze kugaragara ku bitaro bikuru kikaba gifasha abaganga kureba umubiri w'imbere w'abarwayi babo.

Ikigo nderabuzima cyubatse mu buryo bujyanye n'igihe, kikaba cyegereye umuhanda, kikaba kizwi ku izina rya Kigina Health Center, kikaba cyarubatswe mu rwego rwo kwegereza serivisi z'ubuvuzi abaturage, akaba yari gahunda ya Leta ije vuba.

Zimwe mu nyubako zo mu bitaro, hagiye harimo n'ahantu umuntu ashobora kugura ibikoresho bitandukanye, cyane cyane ibikoresho bijyanye n'amaso, aho bagura indorerwamo zo kureberamo ndetse bakabasha no kubashyiriramo imiti.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara gahunda yo guteza imbere ubuzima aho bakomeje kugenda begereza serivisi z'ubuzima mu bice bitandukanye by'igihugu, akaba ari muri urwo rwego bubatse ikigo nderabuzima cya Shagasha kikaba kiri mu bijyanye n'igihe, kiri ahantutu imbere haherereye amapave, hari umwuka ibiti ndetse kandi kikaba kiri mu nzu nziza cyane.

Kimwe mu bikoresho byo mu bitaro, gifata amafoto yo mu bice by'imbere mu mubiri. Kizwi ku izina rya ''CT Scan'' kikaba gifasha abaganga kumenya uburwayi umurwayi wabo yaba afite kandi mu buryo bwihuse.

Amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi kuri iyi si kuko afasha mu bintu bigiye bitandukanye kandi akaba akoreshwa mu buryo butandukanye cyane cyane higanjemo kuyanywa kuko afasha umubiri kugira ubuzima bwiza cyane kuba ubufasha mu gusohora imyanda ndetse no gukora ibindi bikenerwa mu mubiri.

Abaganga batanga ubutabazi bw'ibanze, bambaye utujiri turi mu ibara ry'umutuku, barimo bavura umukinnyi, wari uhuye n'ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri aho bari barimo bamupurizaho imiti imugabanyiriza uburibwe.

Abasore babiri bambaye utujiri tw'imyenda ya kuruwa ruje, aho bari barimo batanga ubutabazi bw'ibanze bateruye umusore wambaye agapira k'umuhondo, kugira ngo bamujyane aho kumufashiriza ndetse banamuvure ubutabazi bwihuse.

Zimwe mu mbuto ziganjemo imineke, amagi, ibinyomoro, inyama, ingano, ndetse n'ibindi bikaba ari bimwe mu bintu bifasha abantu bakora imyitozo ngororamubiri kuba bagarura akabaraga mu mubiri ndetse bigafasha n'imikara kubyimba.

Muganga wabigize umwuga, ugorora amagufwa ndetse n'ingingo, arimo areba uko ivi ry'umurwayi we rimeze, ndetse anarishyiraho utuntu tumufasha kugira ngo arigorore neza cyane, kandi aryongere ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yari yambaye agapantaro k'imyitozo ngororamubiri ndetse n'agasengeri kagufiya, aho yari ahinnye ukuguru kw'ibumoso ndetse ukundi kw'iburyo kuri hasi, azamuye amaboko kugira ngo ananure imikaya.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri akaba yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'itiriningi y'imyitozo ngororamubiri, aho yahinnye ivi ry'iburyo, iry'ibumoso bakarirekera hasi, ndetse agatereka amaboko ye ku ivi ry'iburyo kugira ngo abashe kunanura imitsi n'imikaya mu mubiri wose.

Umusore urimo agorora ingingo z'amaboko ndetse wambaye isengeri, aho arimo ananura imikaya ndetse akora imyitozo ngororamubiri izwi ku izina rya kadiyo.

Umukobwa w'igikara ufite imisatsi miremire, wambaye agakora k'umukara ndetse wambaye n'agasengeri hejuru aho yari aryamye ku gakeka ka siporo, agonze umugongo kugira ngo awunanure ndetse akaba ari muri gahunda yo gukora imyitozo ngororamubiri. Mu rwego rwo kongerera ubuzima bwe ubwiza.

Umutoza w'abakinnyi, arimo avura ukuboko k'umukinnyi, wari uri mu myitozo aho arimo agushyiraho imiti ndetse anagukonjesha kugira ngo abashe kunanura imitsi kandi agabanye no kuba yaza kugira uburibwe.

Umuganga w'inzobere wari urimo ananura ivi ry'umurwayi we, aho yari ari guhina ukuguru kw'iburyo akoresheje amaboko ye kugira ngo abashe kunanura imikaya ndetse n'imitsi biherereye muri uko kuguru.

Umumama uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yambaye ipantaro ya siporo ndetse n'agapira kagufiya, aho arimo ananura amaboko ndetse n'amaguru kandi ku ruhande rwe, akaba afite ibyuma byo guterura, byagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye ikabutura, isengeri ndetse n'inkweto bya siporo ngororamubiri, aho arimo asunika ibyuma biremereye kugira ngo abashe kunanura amaboko ndetse n'amaguru kandi abashe no kongera umubiri we.

Umukobwa wambaye ipantaro ndetse n'agapira kagufi bya siporo, ufite imisatsi miremire, washyize ukuguru ku kundi ndetse azamuye n'ukuboko hejuru akunanura, arimo akora ubwoko bwa siporo buzwi ku izina rya Yoga.

Umuntu urimo asuka amazi ayakuye mu ijage nziza, ibonerana y'ikirahure ndetse arimo ayasuka no mu kindi kirahure cy'igikombe kugira ngo abashe kunywa ayo mazi meza asa neza kandi agikonje.

Umuganga w'inzobere wambaye agapfukamunwa ufite imisatsi y'umukara ndetse n'uturindantoki, aho yarimo asuzuma umurwayi we uryamye ku gatanda akoresheje akamashini kabugenewe kabasha kumwereka uko umurwayi amerewe.

Umusore uryamye ku gatanda wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro ya siporo, aho yari ari kumwe n'umuganga w'imikaya ndetse n'amagufwa w'inzobere, arimo amugorora umugongo, ndetse n'umutwe awuanura neza kugira ngo bigumye kugira ubuzima bwiza.

Umugore wambaye ipantaro ya siporo ndetse n'agasengeri wicaye ku mukeka wagenewe gukorerwaho siporo, urimo ananura amaboko ndetse afite utwuma two guterura ndetse n'ibyuma byo kunanura imitsi, ku mpande ye arimo akora imyitozo izwi ku izina ry'imyitozo inanura imitsi.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'imyitozo ngororamubiri, aho yari arimo agorora itako ryo ku kuguru kw'ibumoso, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Aho yari afatishije amaboko ye yombi kui iryo tako arimo arikanda kugira ngo abashe kugira ngo abashe kugorora imikaya n'imitsi byaho neza cyane.

Umwe mu baganga b'amagufwa ndetse n'imitsi, akaba yararimo agorora umuntu w'umukinnyi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yari arimo ananura imitsi yo ku kirenge ndetse uyu muganga akaba arimo abikorana ubuhanga butangaje.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri aho yapfukamishije ivi rimwe ndetse akaba afashe ku rindi risigaye ridapfukamye n'ibiganza bye bibiri, akaba yarishyizemo hagati arimo arigorora ndetse anarinanura kugira ngo arifashe rigire ubuzima bwiza.

Hakomeje kugaragara iterambere ry'imyitozo ngororamubiri aho bayikora nk'imiti kubera ko byaje kugaragara yuko ifasha mu guteza imbere ubuzima bw'abatari bakeya kandi ikabarinda n'indwara.

Amwe mu mafoto agaragaza uburyo ubwonko bumeze ndetse n'ibindi bice byo ku mutwe harimo amazuru, amenyo ndetse akaba ari amafoto yafashwe n'ibyuma byo kwa muganga, bifata amafoto harimo nk'ikizwi nka sitisikani.

Zimwe mu nyungu zo gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhorahomo, harimo nko kongera isukari umubiri, ugutwika ndetse no kugabanya umuvuduko w'amaraso, kugabanya umunaniro ndetse no kugufasha kugira ubuzima bwiza mu bijyanye n'imirire.

Muganga w'ingingo n'amagufwa, akaba yari arimo areba umukinnyi we uko bimeze nyuma y'imyitozo ngororamubiri. Aho yari arimo areba nimba ukuguru kwe kw'iburyo nta kibazo kwagiriye mu myitozo yari amaze gukora, ndetse anamugira inama y'uko azajya yitwara mu mikino ikurikiye.

Nyuma y'imyitozo ngororamubiri, umuntu wambaye ipantaro y'ikoboyi arimo akoza ikintu gikonje ku kuguru kugira ngo abashe kugabanya uburibwe kuri icyo gice ndetse anananure imikaya yaho.

Akanyabiziga gafite amapine ane matoya ndetse gafite ahantu ho kwicarana n'aho gufata, akaba ari akanyayabiziga gafasha abantu badashoboye kugenda, kuba bakicaraho bakabasha kubasunika bakabageza aho bashaka ko bajya.

Umugabo w'umusore urimo anywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe gusubiza ubuyanja mu mubiri we ndetse kandi amazi akaba ari ingenzi n'ubusanzwe umubiri wacu mu buryo bwa buri munsi, kubera ko igice kinini cy'umubiri kigizwe n'amazi.

Umukobwa wambaye ipantaro ya siporo y'umweru ndetse n'agapira gaciyemo hagati k'umweru, urimo ukora siporo ngororamubiri izwi ku izina rya yoga aho ugorora umugongo ndetse n'amaboko kandi bikaba bimufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Bumwe mu buryo bukoreshwa kugira ngo bagabanye uburibwe, aho bafata ikintu gikonje ukagishyira ku kuboko kugira ngo kibashe kuhakonjesha ugabanye kumva uburibwe kandi bukaba buno buryo bufasha cyane cyane kugabanya uburibwe mu buryo bwihuse.

Bimwe mu bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza harimo no kunywa amazi meza kandi atetse ndetse kandi bikaba bivugwa yuko umubiri ugizwe cyane cyane n'amazi, ari yo mpamvu tugomba kunywa amazi ahagije kugira ngo tugumye kugira ubuzima buzira umuze.

Umuganga ugezweho uri mu bitaro, ndetse umurwayi akaba yari yamusanze mu biro bye, aho yari arimo amurebera uko mu kanwa bihagaze, kandi akikijwe n'abantu bambaye udupfukamunwa, kugira ngo barinde kuba bakwirakwiza indwara aho ngaho.

Umukobwa wambaye agasengeri ndetse ufite n'imisatsi miremire, urimo unywa amazi meza akoresheje icupa, nyuma yo kuba yari avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kumufasha kuyungurura imyanda iba yasigaye mu mubiri we.

Umuganga urimo ananura umukinnyi, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yari afashe ku mugongo ndetse no ku rutugu kugira ngo abashe kugorora imikaya ndetse n'imitsi neza kandi agume kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, uri mu myitozo ngororamubiri, aho arimo arambura amaboko, ayashyira hejuru y'umutwe we ndetse bikaba bimufasha kunanura imitsi ndetse n'imikaya byo mu mubiri we.

Umuntu arimo asuka amazi, ava mu ijage ajya mu kirahure ndetse akaba ari amazi meza yo kunywa, ukaba wayakoresha kugira ngo ubashe kongerera umubiri wawe amazi cyangwa ugabanye umwuma.

Umusore wambaye agasengeri k'icyatsi aho yarimo asuka amazi ku mubiri we cyane cyane ku gice cy'umutwe nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe gukonjesha bimwe mu bice by'umubiri we kandi anananure imikaya.

Umukobwa uri kunywa amazi meza nyuma yo kuba avuye mu myitozo ngororamubiri, ndetse akaba afite imisatsi miremire yambaye utwuma tumufasha kumva indirimbo, ndetse n'akandi ku mpande kamufasha gufata telefoni.

Imwe mu myitozo icumi ifasha umuntu kongera uburinganire nyuma yo kuba yarageze imvune y'ubwonko, ikaba igizwe cyane n'imyitozo itanu ushobora gukora wicaye ndetse n'indi itanu wakora uhagaze, aho muri iyo ng'iyo harimo nko kwicara nta kintu wegamiye, ukicara ahantu hameze nk'ahajya kunyerera ndetse uka wanasutama.

Umumama w'imyitozo ngororamubiri aho yambaye agakora gafite ibara ry'ikijuju ndetse n'agasutiye, akaba afashe ku mano ndetse agonze umugongo aho arimo awunanura.

Abavuzi b'amagufa ndetse n'ab'imikaya bari babiri bari bapfukamye bafashe umukinnyi wari umaze kugira ikibazo cy'imvune kugira ngo bamusuzume barebe urwego kiriho ndetse babashe no kumuha ubuvuzi bw'ibanze.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri arimo asuka amazi ku gahanga ndetse andi anayanywa kugira ngo abashe kwikonjesha ndetse no kugabanya umwuma mu mubiri kugira ngo agumye kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu wambaye agakabutura k'umukara ndetse n'isaha, uri mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo areba ko ivi rye ry'ibumoso rimeze neza, aho yari afatishijeho amaboko ye yombi, ari kujya yumva nimba nta kibazo cyaje mu vi rye.

Icyuma gifasha mu myitozo ngororamubiri, aho umuntu akora abudomino zizwi ku izina rya sigisi paka, akaba ari icyuma kiri kugura amafaranga ibihumbi ijana makumyabiri, by'amanyarwanda ndetse kikagifasha gikoresha gukuraho nida mu buryo bworoshye.

Umuganga wabigenewe, uzwi ku izina ry'umuganga ugorora amagufwa ndetse n'imitsi, arimo agorora umukinnyi wari wambaye agakabutura k'umweru ndetse n'umupira, aho yari arimo azamura ukuguru, ndetse akajyana amavi yarimo ayakoza ku inda aho bimufasha kunanura imikaya ndetse n'imitsi. ,

Umukobwa wambaye agasengeri k'umutuku, ndetse wambaye na ekuteri mu matwi, azamuye amaboko hejuru buri kumwe gufashe ukundi kugira ngo abashe kugorora imikaya, ndetse n'imitsi, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umutoza w'abakinnyi, arimo ananura ivi ry'umukinnyi, aho yari arimo arihina, ndetse arambura imitsi n'imikaya yaryo, nyuma y'aho uwo mukinnyi yari amaze guhura n'imvune, ari mu myitozo.

Imwe mu miti iteye imbere ifasha mu kugabanya uburibwe, ndetse akaba ari imiti bashyira mu macupa meza cyane, afite amabara y'umweru, ndetse umuntu akaba yabasha kuwufata akawukoza ku ruhu ahantu hababara, ukabasha kumugabanyiriza uburibwe.

Umukobwa wambaye agakabutura ka siporo, ndetse n'agasutiye, wambaye ndetse n'inkweto za siporo, urimo ugorora umugongo, akaba ari mu myitozo ngororamubiri, izwi ku izina rya yoga, aho imufasha guteza imbere ubuzima bwe bwiza.

Umusore wambaye agasengeri gafite ibara rijya gusa nk'umweru, uri mu myitozo ngororamubiri, aho arimo agorora umugongo ndetse ahinnye amavi kugira ngo abashe kunanura umugongo neza cyane.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, aho yari arimo agorora ukuguru ndetse akoresheje amaboko ye yombi kugira ngo abashe kunanura imitsi ye yose ndetse n'imikaya yo mu gice cy'ukuguru.

Agakoresho kabugenewe gashyirwa ku mavi cyangwa mu ngingo, kugira ngo kabashe kurinda umuntu imyitozo ngororamubiri, cyangwa umuntu ukoze impanuka, kuba yagira imvune muri icyo gice gaherereyemo.

Muganga wabigize umwuga wambaye umwenda w'akazi ndetse afite n'akantu gapima umutima ukotera ku ijosi akaba arimo areba uko ivi ry'umurwayi we rimeze ndetse areba nimba harimo ikibazo ndetse n'uburyo yakivura.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, urimo unywa amazi meza nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba avuga yuko ano mazi amufasha kubobeza umubiri ndetse no gutuma aguma kugira ubuzima bwiza kuko afasha mu kuyungurura amaraso.

Umusore uri mu myitozo wambaye agakabutura k'umukara ndetse n'umupira, aho yari yaziritse umugozi ku byuma akawufatisha ndetse no ku kaguru, arimo akurura icyo cyuma akoresheje akaguru kugira ngo abashe kunanura imikaya y'akaguru.

Umusore uri kunywa amazi uvuye mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo ayagotomerara cyane ndetse akaba avuga yuko amufasha mu kongerera umubiri we amazi ndetse akanabobeza imyanya y'ubuhumekero.

Umusore wambaye imyenda y'umukara ndetse akaba arimo anywa amazi yicaye ku gatebe nyuma yuko yari avuye gukora imyitozo ngororamubiri arimo aruhuka, ndetse ku ruhande rwe akaba yegeranye n'umukobwa bari bari gukorana siporo nawe urimo ananura umubiri.

Umusore wambaye ipantaro ya siporo y'umukara ndetse n'agapira k'umuhondo n'inkweto, aho yari arimo ananura amaguru ndetse ahinnye ivi rimwe kugirango abashe kugorora imikaya neza cyane.

Imwe mu miti gakondo ifungiwe mu gikarito, aho igi irimo ari myinshi itandukanye ndetse bika bivugagwa ko abayikoresha bakunze kuyikoresha kugira ngo birinde indwara z'uruhu ndetse bikabafasha no kuba bakiza n'izindi harimo n'inkorora.

Umwarimu w'imyitozo ngororamubiri ndetse ugorora n'amagufwa, aho yari ari kumwe n'uwo ayoboye, wari uri mu myitozo yo kwirukanka, aho yari arimo amugorora ndetse amunanurira amaboko nyuma yo gusiganwa yiruka n'amaguru.

Kimwe mu bikoresho bikoreshwa kwa muganga, kugira ngo babashe kureba mu bice bitandukanye by'umubiri, cyane cyane kikaba gikoreshwa kureba mu bice by'ubwonko, aho kizwi ku izina rya siti sikane ndetse kikaba gikunze kugaragara ku bitaro bikomeye gusa.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, aho yambaye ipantaro ndetse n'umupira bya siporo kandi akaba ahinnye ivi, arimo arigorora kugira ngo abashe kunanura imikaya ndetse n'imitsi yo mu ivi kandi bikaba bimufasha no guteza imbere ubuzima bwe bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umukara ndetse akaba ashyize amaboko inyuma, aho arimo ananura kumwe akoresheje ukundi, bikamufasha kugorora imikaya ye ndetse bikamufasha no kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye agakabutura ndetse n'agapira, wari wicaye ku kabati ndetse afite na bande ku kuguru kw'iburyo aho yari amaze gushyirwaho n'umuganga w'inzobere uvura ibijyanye n'imikaya ndetse n'amagufwa.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri hejuru, urimo ukora imyitozo ngororamubiri aho aryamye hasi ndetse akaba yahinnye ivi ry'iburyo aho arifatishije ukuboko kw'iburyo n'uw'imoso kugira ngo abashe kunanura imitsi n'imikaya neza.

Igikoresho gikunzwe gukoresha ku bitaro bikuru kizwi ku izina rya stescan akaba ari kimwe mu gikoresho gifasha abaganga kureba mu barwayi mu imbere uko bimeze cyane cyane kireba uburyo ubwonko bumeze.

Umuganga ugorora amagufwa wabigize umwuga, arimo agorora umukinnyi wambaye agakabutura k'umukara ndetse n'agapira k'umukara, nyuma y'imyitozo ngororamubiri kugirango ngo abashe gusubiza imitsi ye ndetse ananure n'imikaya.

Agakoresho gafite utuntu tubiri tujya mu amatwi hejuru, ndetse n'akandi ko hasi bakoza ku gice cy'umubiri bashaka kumva ndetse, kakaba kazwi ku izina rya sitesikope mu ndimi z'amahanga, kakaba gakunzwe gukoreshwa cyane n'abaganga.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri arimo anywa amazi kubera yuko amufasha gusubiza ubuzima bwe imbaraga kandi akamufasha no kubobeza imyanya y'ubuhumekero, aho avuga yuko bituma ubuzima bwe buba bwiza cyane.

Tumwe mu dukapu, abavuzi b'amakipe bakunda kugendana, akaba ari udukapu turi mu ibara ry'umutuku ndetse dufite ibikoresho by'ibanze, bakoresha bavura umuntu waba uhuye n'ikibazo gitandukanye, harimo kuvunika cyangwa kurwara.

Bimwe mu bikoresho by'ubutabazi, bigendanwa n'abaganga, hakaba harimo ibikoresho bifasha abarwayi kuba babasha kubona umwuka, ibyabafasha gukeba mu gihe babikeneye ndetse n'ibafasha gushyiramo utuyoboro two mu myanya y'ubuhumekero.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umukara, kimeze nk'ikirenge cy'umuntu, aho ari igikoresho umuntu abasha kwinjizamo ukuguru, bakagufungiramo kugira ngo kutanyeganyega mu gihe yahuye n'imvune, bityo bikamufasha gukira neza kandi byihuse.

Umukobwa wambaye agasengeri uri mu myitozo ngororamubiri, aho arimo agorora amaboko aho ukuboko kw'ibumoso agushyize ku mutwe ndetse ukw'iburyo akakugonda, akagukoza inyuma ku mugongo kugira ngo abashe kunanura imitsi n'imikaya byo mu mubiri we.

Bimwe mu bikoresho byo mu bitaro biri mu byumba babagiramo hakaba harimo intebe umurwayi yicaraho kugira ngo muganga abashe kumukurikirana neza, harimo kandi amatara amurikira muganga neza ndetse n'ibindi bikoresho bifasha kureba uko umurwayi ameze.

Amazi meza, ari mu icupa rifunze, akaba ari kimwe abasiporutifu benshi bakunda gukoresha, kugira ngo babashe kugarura ubuyanja mu mubiri wabo, ndetse bakavuga yuko abafasha mu gukonjesha umubiri. Ndetse no kubongerera imbaraga.

Imyitozo ngororamubiri, cyane cyane guterura ibyuma, hari imirire runaka bigomba kujyana, kugira ngo imikaya ibashe kubyimba, cyane cyane hakaba higanjemo ibikomoka ku matungo, harimo amagi, amata, ndetse no kurya indyo yuzuye yiganjemo imboga ndetse n'imbuto.

Muri gahunda za leta zigezweho harimo no gushishikariza abantu gukora siporo zigiye zitandukanye, harimo nko gukina imipira y'amaboko ndetse n'iy'amaguru, aho byaje kugaragara ko bifasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi buzira indwara.

Umusore wambaye umupira urimo unywa amazi nyuma y'imyitozo ngororamubiri, aho yari arimo ayakoresha kugira ngo amufashe kuyungurura amaraso y'umubiri we ndetse no kubiza igice cy'umubiri, kugirango abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Zimwe mu mbuto ziganjemo pome, amavoka, sereri, karoti, zikaba zifasha abantu bakora imyitozo ngororamubiri, kubasha kuba babona intungamubiri bakeneye kandi zikabafasha no kugira ubuzima buzira umuze.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo cyane cyane abana, abamama, aho bari barimo bakora imyitozo ngororamubiri, hari umuntu umwe imbere ubayoboye, aho yari arimo abereka iyo bagiye kujya bakurikizaho kandi bari bishimye ndetse barimo banayikora neza cyane.

Umukinnyi wicaye ku gatebe kabugenewe wambaye inkweto zo gukinana zizwi ku izina rya godiyo, ndetse n'amasogisi maremare akaba yambaye agapira ko gukinana ndetse n'agakabutura, aho yari yicaye yegereye na muganga wabo urimo amukurikirana.

Agatebe ko kwicaramo kari mu ibara ry'umukara kakaba gafite amapine manini abiri ndetse n'utundi dupine dutoya tubiri, akaba kazwi ku izina ry'agatebe k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda neza, ndetse kakaba gakoreshwa nabo kugira ngo babashe kugenda cyangwa n'undi muntu wese kugenda utari kubishobora, bakakamushyiraho kugira ngo babashe kumugeza aho agiye.

Kimwe mu bimera gikoreshwa mu buvuzi gakondo, kikaba ari ikimera cy'icyatsi cyera ku butaka ndetse kikaba gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nko kuvura inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Imwe mu biti gakondo, imwe ifunze mu ducupa tw'umweru ndetse dufunze neza cyane. Kaba n'idi ifunze mu macupa y'umuhondo, ikaba ari ibiti ikorwa mu bimera kandi ikaba ifasha kuvura ibintu bigiye bitandukanye. Harimo n'indwara z'uruhu.

Igiti cy'ikimera giherereye ahantu mu ishyamba. Kikaba ari igiti kigenda gifasha mu kuvura indwara zitandukanye, aho gikorwamo imiti babinyujije mu buryo harimo; ubwo gukoresha amababi yacyo bayashyira mu mazi bakanywa amazi cyangwa bakayasekura.

Icyatsi k'ikimera kikaba ari kimwe mu gikunze gukoreshwa nk'umuti gakondo aho kizwi ku izina ry'umuravumba, kikaba gifasha mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane ndetse bakaba bagikoresha mu buryo butandukanye, harimo kukirya, ku cyotsa ndetse no kugiteka.

I'm mwe mu miti gakondo irimo itegurwa aho bari basoromye ibimera ndetse bakabishyira mu gasekuru kugira ngo babisekure babashe umuti bashobora kuba babasha gushyira mu icupa bakawupfundikiramo kugira ngo babashe kuwunywa cyangwa kuwugurisha umeze neza.

Amwe mu mavuta akorwa mu bimera gakondo cyane cyane igikakarubamba, azwi ku izina rya Forever Aloe Berry Nectar, akaba ari amwe mu mavuta akunzwe cyane gukoreshwa kugira ngo abantu babashe kugira uruhu rwiza.

Ibiti byiza, bifite ibara ry'icyatsi, bihinze mu busitani, aho bigiye biteye mu mashashi ndetse bikaba bikoreshwa nk'imiti gakondo, aho bifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara zo mu nda ndetse n'izo mu mutwe.

Imwe mu miti gakondo ikomoka mu bimera, ikaba ifunzwe mu tubido twiza, harimo utw'umweru, utw'umuhondo, ndetse n'utundi tujya gusa n'ivu, ikaba izwi ku izina rya Foreva ariko ikaba inakorwa mu gikakarubamba.

Imwe mu miti gakondo aho yari iri mu ishyamba ndetse akaba ari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi bikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba higanjemo izo mu nda, mu mutwe ndetse n'izindi ndwara.

Imwe mu miti gakondo igiye itandukanye aho igiye ifunze mu ducupa, indi iri mu dukarito ndetse ikaba iteretswe ahantu hamwe kugira ngo abayigura babashe kubona iyo bashaka mu buryo bwihuse kandi ndetse bitabagoye.

Imwe mu miti gakondo, ifunzwe neza mu ducupa, dufite ibara ry'umukara n'udufuniko tw'umweru, ikaba ari imwe ikunzwe kugurwa cyane n'abakunda kuyikoresha kubera ibafasha mu kubakiza indwara zigiye zitandukanye ziganjemo indwara zo mu nda.

Umwe mu miti gakondo ufunzwe mu gacupa k'umweru ndetse gapfundikiye neza ukaba uzwi ku izina rya Forever garlic thyme, akaba ari umuti wagiye gukorwa ndetse ukaba ufite gahunda yo kongera abagabo akanyabugabo kandi ndetse ukaba aboneka ku masoko atandukanye.

Bimwe mu bimera byera ku butaka harimo ibigenda bikoreshwa nk'imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo na tangawizi, uduhumuza, kapusine ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imwe mu miti gakondo ifunze mu macupa, mu mashashi ikaba iri mu isoko rigurirwamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse harimo n'umucuruzi uyicuruza, uhagaze ategereje ko haza abantu baza kuyigura kugira ngo bajye kuyivurisha.

Umuti ukomoka ku bimera uzwi ku izina rya foreva ragitikisi, akaba ari umuti ufunze mu gacupa k'umweru keza cyane ndetse ukaba ufasha abawukoresha mu koroshya ibimenyetso bigiye bitandukanye harimo n'ibicurane.

Umuti ufunze mu icupa ryiza riri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru uzwi ku izina rya flavralbernecto akaba ari umwe mu miti ikozwe mu bimera byiganjemo igikakaruhamba ndetse bakaba barongeyemo na pome kugira ngo ubashe kuryohera abawukoresha.

Umwe mu miti gakondo ufunzwe mu icupa ryiza rifite ibara ry'ubururu, aho hari umuti ufasha abantu gukora isuku ndetse no gukura imyanda igiye itandukanye mu myenda kandi ukaba ukoreshwa n'abatari bakeya.

Umwe mu miti ipfundikiye mu gacupa keza k'umweru uzwi ku izina rya liyisi akaba ari umuti wakozwe kugira ngo ubashe gufasha abantu guhangara indwara y'amibe iri ku kigero cyo hejuru ndetse ukabafasha no kugabanya kuribwa mu nda.

Imiti gakondo ifunze mu macupa, akaba ari imwe mu yamaze gutegurwa neza, bayikuye mu bimera kandi ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi.

Icyatsi cy'ikimera gifasha mu kuvamo imiti gakondo, akaba ari icyatsi cyera mu butaka ndetse kikaba gishobora kuribwa, gutekwa cyangwa bakagikoresha mu bundi buryo kugira ngo kibashe kuvura.

Umwe mu miti ifunzwe mu ducupa tw'uturahure dupfundikiye neza cyane, ikaba ari imiti yateguwe ndetse ikunda gukoreshwa mu kuvura indwara kandi akaba ari imiti ikorwa mu bimera, bakaba bakunze kuyita imiti gakondo.

Kimwe mu bimera, gifasha mu kuvura ndetse no gukora imiti gakondo, kikaba kera mu butaka kandi kikaba gikura mu buryo bwihuse, kuko abagikoresha bavuga y'uko batajya bakunda kukibura cyane.

Bimwe mu byatsi gakondo bikoreshwa mu kuvura aho bagenda babikoresha mu buryo butandukanye, ukaba ushobora kubiteka, kubisyamo ifu, cyangwa ukabivanga n'ibindi kugira ngo bibashe kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Kimwe mu byatsi bimera gikoreshwa nk'umuti gakondo, aho gifasha mu gukora imiti igiye itandukanye yiganjemo igabanya uburibwe ndetse kikaba kizwi ku izina ry'urumogi ndetse kikaba kitemewe guhingwa na buri umwe.

Bimwe mu byatsi bifite amabara meza ndetse bikaba bikoreshwa nk'imiti gakondo, aho bavuga y'uko bivura indwara zigiye zitandukanye, higanjemo indwara zo mu nda ndetse n'izijyanye n'ibicurane.

Imwe mu miti gakondo ifungwa mu macupa agiye atandukanye, harimo icupa ry'umweru ndetse n'irindi rijya gusa umukara, gusa ikaba ari imiti ikorwa mu bikomoka ku nzuki, aho ifasha kuvura indwara zigiye zitandukanye no mu gutuma umuntu uyikoresha agira ubuzima bwiza.

Amwe mu mavuta yo kwisiga ya gakondo, akaba agizwe n'umuti kandi ukurwa mu mamabi y'igikakarubamba, aho babasha kugikamura, bakagikuramo amazi yacyo ndetse bakayongera, mu bigize ano mavuta kandi akaba akoreshwa nk'umuti, kubera afashe umuntu uyakoresha kugira, uruhu rwiza kandi agakiza n'ibihe biriho.

Zimwe muri gahunda za leta harimo na gahunda yo kubungabunga ibidukikije ndetse n'ibyo gukurikirana imiti gakondo kugira ngo babashe kuba bayikoresha mu buvuzi bwunganira imiti ya kizungu aho bifasha abarwayi gukira neza.

Imwe mu miti gakondo, harimo imiti ikorwa muri tangawizi ndetse n'ubuki, aho ari imiti ikunze kwifashishwa n'abatari bakeya mu kurwanya infection zigiye zitandukanye, kandi ikaba ifasha mu kuzigabanya byihuse.

Imwe mu miti gakondo ikorwa mu bimera, ifunzwe mu ducupa dupfundikiye neza, izwi ku izina rya imfiniti, ndetse n'indi yitwa jela kilina, ikaba ari imwe ikorwa mu bimera ikunzwe n'abatari bake, ndetse hakaba higanjemo n'iyo bakora mu bikakarubamba.

Bimwe mu biribwa bifasha kongerera umubiri ubudahangarwa, akaba ari ikiribwa kizwi ku izina rya tangawizi, aho umuntu ashobora kukinywa mu cyayi ndetse akaba yagikoresha nk'ikirungo, akagishyira mu muceri kandi kikaba gifasha kongera uburyohe ntagereranywa aho ugishyize.

Imwe mu miti gakondo ikozwe mu ikawa ikaba ifunzwe mu macupa, agiye atandukanye harimo ay'umukara, ay'umutuku, harimo amabara y'umweru ndetse ikaba ifasha abayikoresha mu kubongerera ubuzima bwiza, aho igenda ibarinda indwara zitandukanye.

Bimwe mu byatsi bikoreshwa mu kuvura bizwi nk'imiti gakondo, bikomeje kugenda bigira akamaro kanini ababikoresha, kuko bavuga yuko bigenda bifasha gukiza uburwayi bwabo, kandi mu buryo bwihuse.

Imwe mu miti gakondo ijyanye n'igihe, ikaba ari imwe ifungwa mu makarito mu ducupa, mu mashashi ndetse igiye ifite amazina atandukanye kandi ikaba ikorwa mu bintu bitandukanye, cyane cyane hakaba higanjemo ikorwa mu bikakarubamba aho ifasha kongerera uruhu ubuzima bwiza kandi ikanarunyereza, bivugwa ko inarurinda indwara.

Bimwe mu bimera gakondo bikunze kugaragara, mu bihugu bya Afurika bikaba bifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aho ababikoresha bagenda babica nyuma bakabiteka cyangwa bakabisekura, bakabinywa nk'ibiti.

Imwe mu miti gakondo ifunzwe mu ducupa akaba ari imiti ifasha kuvura indwara zigiye zitandukanye aho hagiye harimo nk'inkorora, umuriro ndetse n'ibindi, kandi abayikoresha bavuga yuko ibafasha kugabanya ibimenyetso bya zimwe mu ndwara.

Imwe mu miti igezweho, ikaba ari imiti ifungwa mu ducupa tugiye dutandukanye, ikaba izwi ku izina rya sikini keya oyili ndetse ikaba ifasha uruhu kubasha kunyerera, irwongerera ububobere kandi ndetse ikarurinda n'uburwayi bugiye butandukanye.

Imwe mu miti gakondo mu gice cy'Afurika ikomeje gushyirwaho uburyo ikenera gukoresha kugira ngo ibashe kuba yakwemerwa kugira ngo igikoreshwa kaba higanjemo uburyo bwo gusuzuma nimba ikora ndetse n'imba harikintu yakangiza mu mubiri w'umuntu.

Imwe mu miti gakondo, ikorwa bavanze tangawizi, amacunga ndetse n'ubuki, ukaba ari umwe mu ikunzwe gukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo ubashe kubafasha gukiza zimwe mu ndwara harimo nk'inkorora.

Imwe mu miti ikomoka ku bimera, ikunze gukoreshwa cyane. Harimo iunze neza mu ducupa tw'umweru, n'utw'umuhondo. Harimo uzwi ku izina rya ''ole borageri'' ukunda gukoreshwa cyane mu kuvura indwara zijyanye n'uruhu.

Umwe mu miti gakondo ujyanye n'igihe ndetse ukaba ufasha kuvura indwara zigiye zitandukanye ukaba, uzwi ku izina rya Foreva royo jeri, akaba ari umuti ukorwa mu bihwagari kandi ukaba bawufungira mu gacupa keza cyane k'umweru.

Bimwe mu bimera bikoreshwa nk'umuti gakondo, hakaba harimo n'icyayi aho abamama batandukanye, bari barimo basoroma icyayi kugira ngo bajye kugitunganya, babashe kugiha abagikoresha kugira ngo kibafashe kugira ubuzima bwiza.

Umuti gakondo ufunzwe mu mashashi, ukaba ari umuti ukorwa mu byatsi ndetse n'ibimera, kandi ukaba ufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo izo mu nda ndetse n'inkorora, kandi abawukoresha bakaba bishimira ko ugenda ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imwe mu miti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo ifunze mu ducupa dutoya, amakarito ndetse n'amashashi kandi ikaba ifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Imwe mu miti gakondo yiganjemo ibihingwa ikaba imera ahantu hagiye hatandukanye kandi ikaba ifasha mu kuvura indwara ziganjemo izo mu nda, kandi ndetse ikaba ibajwe no gutegurwa mu buryo bugiye butandukanye harimo nko kuyisya, kuyikamura ndetse n'ibindi.

Imwe mu miti gakondo yateguwe neza igahurizwa ahantu hamwe kugira ngo ibashe gufasha abantu mu kwivura indwara zigiye zitandukanye harimo n'inkorora , ibicurane, indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Imurikagurisha ry'imiti gakondo, aho bari barimo bacuruza imiti igiye itandukanye. Harimo ifunze mu macupa, mu dukarito ndetse bakaba bari bafite n'abantu benshi barimo baza bayigura. Kugira ngo bajye kuyikoresha ibashe kubakiza indwara zigiye zitandukanye.

Imwe mu miti gakondo ifunzwe mu mashashi ndetse n'indi iri mu makarito ikaba ari imiti mishyashya ikozwe mu cyayi, ndetse ikaba ikunzwe n'abatari bakeya kubera ko babasha kuyibona mu buryo bworoshye kandi itabahenze.

Ibyatsi biri ahantu mu busitani, bikoreshwa nk'imiti gakondo ndetse bikaba bishobora gukorwamo imiti igiye itandukanye, harimo iyo kurya, iyo kunywa ndetse kandi bikaba bikunze kugaragara ko bikoreshwa cyane mu bice bya Afurika.

Imurikagurisha rigizwe n'imiti itandukanye ifunze neza mu macupa, aho bari barimo batanga imiti gakondo ifasha mu kuvura ubuzima bw'abatari bakeya, ndetse kandi ikaba ikunzwe n'abantu bagiye batandukanye kubera ibafasha kuvura uburwayi mu buryo bwihuse.

Imwe mu miti gakondo ihinze mu busitani bwagenewe guhingamo imiti gakondo, ikaba ari ahantu heza. Ndetse ikaba ikorwamo imiti gakondo mu buryo butandukanye, bashobora kuyifata bakayisekura cyangwa bakayikamura.

Imwe mu miti gakondo iri mu macupa ndetse n'indi ifunze mu mashashi n'indi iri mu dukarito, ikaba ari imwe ifasha abantu kubongerera imirire myiza, ndetse ikabarinda n'indwara zigiye zitandukanye harimo iz'imirire mibi n'iz'uruhu.

Imwe mu miti gakondo irimo itegurwa kugira ngo bayikoremo ifu cyangwa amazi yo kunywa, aho hari agasekuru umuntu ashyiramo ibyatsi akabisekura, nyuma ibyo akuyemo akabikoresha mu buryo butandukanye.

Imwe mu miti gakondo igezweho, ifungwa mu ducupa twiza kandi ikorwa mu bitunguru ndetse n'indimu, ikaba ikundwa cyane n'abayikoresha kubera uburyohe ntagereranywa iba ifite kandi ikabasha kubavura, aho izwiho kuba irinda imfekisiyo ko bazakwirakwira vuba.

Amwe mu mavuta afunze neza mu macupa yabugenewe, ari mu ibara rizwi nk'ikijuju cyangwa umweru usa nk'ivu, akaba hari amwe akorwa mu bimera kandi akaba afasha uruhu gukora neza kandi akarurinda indwara.

Imwe mu miti gakondo ifunzwe mu mashashi, akaba ari umuti ukorwa mu bimera ndetse ukaba ufasha kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse no kuribwa mu nda kandi ukaba ukunzwe gukoreshwa cyane mu bice bitandukanye byo muri Afurika.

Imwe mu miti gakondo ikorwa mu gikakarubamba ukaba uzwi ku izina rya Forever Bright. Akaba ari umwe ukoreshwa kugira ngo umuntu abashe kugira uruhu rwiza ndetse anavure ibiheri biri ku ruhu rwe.

Amacupa arimo imiti gakondo ndetse akaba ari amacupa afunze neza ndetse harimo imiti ifasha mu bintu bigiye bitandukanye, harimo nko kuvura inkorora, indwara zo mu nda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imiti gakondo irimo itegurwa, aho bari barimo bayisekura mu gikoresho cyabugenewe kugira ngo babashe kuyikora mu buryo butandukanye, harimo kuyigira nk'ifu kugira ngo abayikoresha babashe kubona uburyo butandukanye bayikoreshamo bivura.

Bimwe mu bimera bikunzwe n'abantu batari bake, akaba ari ikimera cyo mu ibara ry'icyatsi, ndetse kikaba kizwi ku izina ry'isombe, kikaba gikunze gukoreshwa nk'imboga aho abantu bagiteka babanje kugisekura, ndetse abakirya bavuga ko gikunda kuryoshya umuceri.

Bimwe mu bimera gakondo byiganjemo ibyera mu mashyamba, bikaba bigenda bifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'izo mu nda, kuvura umutwe ndetse n'ibindi kandi bikaba bikorwa mu buryo butandukanye.

Imwe mu miti gakondo ifunzwe mu macupa atandukanye, harimo amashashi ndetse n'indi iri mu dukarito, akaba ari imiti igenda ifasha abantu kuvura indwara zitandukanye, harimo iyo bakoresha nk'amasabune yo koga ndetse n'indi yo gusiga ku ruhu.

Ahantu harunze imiti gakondo iri mu ducupa, mu makarito, mu ducuma ndetse bikaba bisa nkaho hari muganga uvurisha ibintu bya gakondo uhakorera ndetse hakaba hari n'akavuyo kenshi.

Kimwe mu kimera gikoreshwa nk'umuti gakondo aho bagikoramo umuti bakaba babasha kugiteka bakagisya bakagikoramo amavuta yo kwisiga ndetse n'isabune aho gifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umunsi wahariwe imiti gakondo, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ukaba warabereye muri Afurika ndetse ufite insanganyamatsiko, yo gusobanurira abantu uburyo miti, ifasha indi miti isanzwe mu kuvura abantu neza.

Kimwe mu byatsi gikoreshwa nk'umuti gakondo, aho cyari kiri aho bahinga ibiti ndetse kikaba cyari kirimo gikura neza kugira ngo bazabashe kugikoramo imiti yo kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imwe mu miti gakondo, yiganjemo imiti ifunze mu masashi ndetse no mu makarito, ikaba izwiho ko ifasha abantu mu guteza imbere imibereho y’ubuzima bwabo, cyane cyane ibongerera intungamubiri bagiye bakeneye mu buzima.

Kimwe mu cyatsi k'ibimera gikoreshwa nk'umuti gakondo, aho kivura indwara zigiye zitandukanye, kandi bakabasha no kugiteguramo imiti bafunga mu buryo butandukanye, harimo n'iyo bafunga mu macupa, n'indi basya bashobora kuba bashyira mu bintu byo kunywa.

Imwe mu miti gakondo ifunzwe mu dukarito, ndetse n'indi iri mu mashashi no mu macupa, ikaba iri ahantu hamwe kandi ikaba iri gucuruzwa ku mafaranga makeya kandi ikunzwe n'abayigura kubera ibafasha cyane mu buzima bwabo.

amwe mu mavuta akorwa mu bimera, afunze mu icupa ryiza cyane ry'umweru azwi ku izina rya alo evashiridi, akaba ari amavuta akorwa mu bikakarubamba, kandi akaba afasha mu kurinda uruhu aho arwongerera ububobere ndetse akarurinda n'imirasire y'izuba.

Ikimera cy'icyatsi giherereye mu busitani burimo ibindi bimera byinshi, kikaba gikoreshwa nk'umuti gakondo, aho ushobora kugifata ukagisya cyangwa ukakinomba, ukagikoresha ukinywa cyangwa ukirya.

Umwe mu miti gakondo ufunze neza uri mu gacupa k'umweru, akaba ari umuti uvugwa ko ufasha mu kuvura ibintu bijyanye no kurangiza vuba ndetse no gucika intege kw'igitsina mu gihe cy'imibonano kandi ukaba ukunzwe gukoreshwa cyane n'abagabo.

Umwe mu miti gakondo ijyanye n'igihe, ukaba ari umuti ukorwa mu bimera ndetse bakawufunga no mu mashashi, ukaba ufasha mu kurinda indwara zigiye zitandukanye harimo inkorora, ibicurane ndetse no kuribwa mu nda.

Imwe mu miti gakondo babasha gusya bakayikoramo agafu, akaba ari ko bakoresha mu buvuzi. Aho bashobora kugafata bakagashyira mu bintu byo kunywa bakaba bakanywa cyangwa bakagashyira mu byo kurya bakakarya. Cyangwa umuntu bakaba yagasiga ahantu yakomeretse.

Umwe mu miti ikorwa mu bimera uzwi ku izina rya arowe, ukaba ukorwa mu gikakarubamba. Kandi bakaba bawufunga mu gacupa keza kugira ngo utangirika, ukaba ukunzwe gukoreshwa n'abantu kugira ngo uruhu rwabo rumere neza.

Imwe mu miti gakondo ifunzwe mu macupa ajyanye n'igihe ikaba ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye ndetse ifite amabara atandukanye arimo y'umukara y'imihondo ndetse n'iy'umutuku kandi ikaba ifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo inkorora ndetse n'ibindi.

Bimwe mu byatsi bikoreshwa nk'imiti gakondo biri mu busitani, aho bigiye biri kumwe n'ibindi byatsi byose bifashwa nk'imiti ndetse bakaba babifata bakabibyazamo imiti kugira ngo bivure abantu.

Umuti ukomoka ku bimera uzwi ku izina rya alowe vela geli akaba ari umwe mu miti ikunze kugaragara cyane nk'ikoreshwa ya gakondo, aho hari umuti ukorwa mu gikakarubamba ndetse ugafasha no gutuma uruhu rumera neza.